Umugabo n'umugore bakora kwa muganga bashobora gukora inshingano zitandukanye ariko bose bakenera ikoranabuhanga ryo kwifashisha mu kuvura abarwayi.

Umwana ukiri mutoya akwiriye kwitabwaho, akajyanwa kwa muganga inshuro nyinshi, bakamupima bakamenya uburwayi bwe, hanyuma bakamuvura bakurikije uko arwaye, bakamuha imiti ihuje n'uburwayi bwe.

Abantu benshi bakora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bimwe mu byo bakora ni ukujya mu mahugurwa kugira ngo bagire ibintu bagenda bungurana, hanyuma babashe kubona ubuzima bwiza ku bijyanye n'ingingo zitandukanye.

Amazi abaturage bavoma bayavoma ahantu hakure, cyangwase bakayakura ahantu hatandukanye, ariko abaturage baba bakwiye guhabwa amazi mu ngo zabo cyangwase iruhande rwabo, kuko iyo nagiye bakayakandagira mu mazi atemba baba bayandiza.

Amavomero agiye atandukanye yashyizwe hirya no hino mu gihugu, atuma abaturage bagira ubuzima bwiza. Bumwe muri ubwo buzima bwiza bashobora kugira, ni uko bayakoresha mu gukaraba intoki ndetse no gukora akandi kazi kabo.

Abana bahabwa inkingo, cyane cyane abana b'abakobwa, bahabwa inkingo kugira ngo zibarinde kwandura indwara zirimo inkondo y'umura, abana b'abakobwa iyo bisuzumishije inshuro nyinshi bibarinda gutwita imburagihe.

Abanyeshuri bitabwaho cyane kuko mu Rwanda hari ikigo gishinzwe kubarengera kugira ngo badakomeza gukandamizwa. By'umwihariko ubuzima bwabo buba bukwiriye gushyirwamo imbaraga bukarindwa kuko abana ni bo bafite ubuyobozi bw'ejo hazaza.

Abana bashimishwa n'ibintu bitandukanye, iyo babonye umuntu ubasetsa birabashimisha cyane, hari igihe akanyamuneza k'abana kagaragara ku maso kandi umuntu wese ubabonye yishimira ko na bo bishimye.

Isuku ni isoko y'ubuzima, abaturage bagomba gukoresha neza imigezi bahawe, bakavoma amazi bakeneye kugira ngo abafashe mu mirimo yabo ya buri munsi, abana bakwiriye gufasha ababyeyi babo bakabazanira amazi kugira ngo bagire isuku.

Kunywa amazi bifasha abantu mu buzima bwabo kandi bishobora gutuma amazi banyweye abagirira akamaro, iyo umuntu anyweye amazi atekereza neza kandi ashobora gukora igikorwa cyamugirira akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi.

Gukaraba intoki n'amazi meza, bifasha umuntu kumva afite ubuzima bwiza. Gukaraba intoki ni ingirakamaro cyane kuko iyo umuntu yakarabye intoki ashobora kumva ameze neza kandi ntarware indwara zikomeye zirimo indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bakiri batoya bakwiriye gukarabywa inshuro nyinshi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza. Hari imigezi abaturage baba barubakiwe baba bakwiriye kwirinda kuyikarabirizaho abana kuko baba bashobora kwanduza iyo migezi.

Abaturage bashimishwa nuko baba bari hamwe. Mu gihe abaturage hari ikintu cyabaye kibahuza, buri wese aba afite ingingo yo kuganirizaho mugenzi we. By'umwihariko ababyeyi b'abagore, baba bakwiriye guhurira hamwe bakagira ibintu baganira, bituma barushaho gutera imbere mu buzima bwabo.

Umudamu ukiri mutoya ndetse n'umwana, bagaragara neza iyo bafatanyije mu gukora ibikorwa bishobora kubateza imbere, muganga akwiriye kuvura abana indwara barwaye.

Imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu zigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abantu bukomeza kuba bwiza, kuko iyo bafite ubuzima bwiza bashobora no gukora ibindi bikorwa bishobora kubateza imbere, ubwo rero abantu bakwiye gushyira hamwe kugira ngo bagire ibintu bashobora kwigezaho.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kiba gifite umuntu ugihagarariye kandi icyo kigo gishyiraho uburyo bwose bushoboka bwo gufasha abaturage kwirinda indwara zirimo Kanseri kugira ngo abaturage bakomeze kugubwa neza.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu mikurire y'abandi bantu, kandi batuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza. Umuturage iyo ahoze ku isonga mu bimukorerwa, bituma agira ubuzima bwiza. Ariko kandi abajyanama b'ubuzima bamusobanurira icyo yakora, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ntabwo bihenze; umuntu icyo usabwa ni amzi ndetse n'isabune; ashobora gufata kabuni akagashyira ahantu ashaka hanyuma akajya avoma amazi agashyiramo agakaraba.

Mu mubiri w'umuntu habamo ibice bimufasha gukora akazi ke neza bigatuma n'ubuzima bwe bukomeza kumera neza. Kugira ngo umuntu asobanukirwe uko umubiri we ukora agomba kubanza gusobanurirwa ibice bigize umubiri we.

Abantu bakwiriye kwisanzuranaho, buri wese akabwira mugenzi we, ikimuri ku mutima. By'umwihariko, bakwiriye kujya inama y'uburyo bagira ubuzima bwiza. Iyo bakoze uko bashoboye kose kugira ngo bagire ubuzima bwiza, birabafasha kandi bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Uburenganzira bw'abana bukwiriye kubahirizwa hirindwa ikintu gishobora kubanduza, abana bakwiriye gusigasirwa kandi abakobwa bakirinda guterwa amada no kubyara bakiri batoya cyane.

Abanyeshuri bakwiriye kunywa amazi menshi kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kunywa amazi y'imvura bishobora gutuma abayanywa barwara indwara zikomeye, ariko iyo abantu banyweye amazi meza, bishobora gutuma bagira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Abantu bagira uruhare mu bikorwa bibakorerwa, ariko mbere y'uko abaturage bagezwaho uko bafata neza ubuzima bwabo, abayobozi babishinzwe barabanza bakaganira, bagahugurana ku bijyanye n'indwara, hanyuma bakagenda bagasobanurira abaturage uko bagira ubuzima bwiza.

Abaturage hari ibikorwa bakora bikabafasha kubaho neza, cyane cyane ibihuza abantu benshi bikabahuriza mu mahugurwa agiye atandukanye bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza, mu gihe abaturage bahuriye hamwe hari ibintu bagenda bungurana.

Abajyanama b'ubuzima baba barahuguwe kugira ngo bafashe abaturage kugira ubuzima bwiza. Kandi baba bazi ibintu byinshi bakora bagafasha abaturage kugira ubuzima bwiza. Ndetse baba bazi n'ibyo kurya umuntu yarya, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Imigezi abaturage bavomaho amazi, ibafitiye akamaro cyane kandi bakwiriye kuyibungabunga, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, iyo migezi ibaha amazi bityo bakagira isuku ishobora gutuma batarwaragurika.

Amazi agirira akamaro abaturage, ari ahantu nyaburanga haba harubatswe kugira ngo abantu bajye bajya kuhatemberera. Aho hantu bashobora kuhogera cyangwa se bagahakorera ibindi bikorwa byo kwirangaza ndetse bakaba bakishyura n'amafaranga.

Abana bakiri batoya bakwiriye kwishimana kugira ngo na bo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse no kuba mu Isi babayeho neza, iyo abana bishimye bishobora kugaragarira ku maso, aho usanga baseka kandi banaganira nta kibazo.

Amazi abantu bashobora kuyavoma, bakayakoresha bayanywa cyangwa se bayatekesha. Ntamuntu uba uhejwe mu gukoresha amazi, yaba umwana mutoya ashobora kujya ku mugezi, yitwaje igikombe, akavoma amazi, akayanywa.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. By'umwihariko abana Igihugu kiba cyarabatekerejeho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Hari imiryango mu Rwanda ishinzwe kuburinda uburenganzira bw'abana kugira ngo nabo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikiremwa muntu cyose gikenera amazi yo kunywa. Ayo mazi agira akamaro ndetse n'uruhare mu mikurire y'umuntu kandi afasha mu igogora. Umuntu utanywa amazi ntashobora kumara igihe kirekire kubera ko amazi agira uruhare mu gutuma umuntu akura.

Umuntu ugiye kwa ashobora guterwa urushinge bitewe nuko uburwayi bwe buhagaze, mugihe atewe urushunge aba agomba kwitonda kugira ngo muganga ataruvuniramo bityo ubuzima bwe bukaba bubi.

Abantu b'inararibonye bavuga ko kugira ngo umuturage agire ubuzima bwiza, bisaba ko akorera hamwe n'abandi, hari abahanga mu by'ubuvuzi baba bazwi neza kandi amagambo bagiye bavuga agenda agirira akamaro abaturage ndetse n'abandi bantu bayasomye ku bijyanye n'ubuzima.

Abana baba bakwiriye kubaha abantu bakuru, ndetse n'abantu bakuru baba bakwiye kugaragariza abana bakiri batoya urukundo. Umwana mu gihe afite umwanda, umuntu mukuru ashobora kumwitaho akamugaragariza urukundo akaba yamuha imfashanyo y'imyenda, bityo na we agasa neza.

Amazi atuma abantu bagira ubushobozi bwo gukora ibintu runaka, imigezi ishyirwa hirya no hino ifasha abaturage mu gihe bakeneye amazi, hanyuma ayo mazi na yo bakayakoresha mu bikorwa byabo by'iterambere.

Abajyanama b'ubuzima barabanza bagahabwa amahugurwa y'uburyo bashobora gukora akazi kabo, hanyuma bakoherezwa gufasha abaturage mu bijyanye n'ukuntu bakita ku buzima bwabo bwa buri munsi, ibyo ni ingenzi cyane.

Abaturage bakwiriye gukora uko bashoboye kose bakaganiriza abandi kugira ngo bamenye amakuru yabo. Abayobozi nabo bakwiriye gushira hamwe mu gushakira ubuzima abaturage bwiza kugira ngo bakomeze kugira iterambere rirambye.

Abana bakiri batoya bakwiriye kwita ku buzima bwabo kugira ngo imibereho yabo ikomeze kumera neza, iyo bicaye hamwe bakaganira bituma bakura mu bitekerezo ndetse bakongera n'ubushobozi bwo gutekereza.

Amazi abaturage bashobora kuyabona aho batuye kandi abaturage iyo bakoresheje amazi neza bituma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza, bashobora kuyamesesha cyangwa se bakayakaraba, nanone bashobora kuyavoma bakayatekesha.

Mu gihe umuturage afite ikibazo cy'uburwayi, akwiriye kwegera muganga, muganga akamupima akoresheje urushinge hanyuma akamuvura, mu gihe amenye icyo arwaye amuha imiti cyangwa se akamuha ibitaro, bityo umurwayi agakira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana, gikora ibishoboka byose kugira ngo umwana abone ibikenewe, bimwe mu byo bimufasha kubona, harimo ibyo kurya, ndetse n'imyambaro bimufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ababyeyi baba bakwiriye kujyana abana babo kwa muganga inshuro nyinshi, kugira ngo badafatwa n'uburwayi bushobora kubangiriza ubuzima. Mu gihe umubyeyi yajyanye umwana kwa muganga aba akwiriye kwitonda kugira ngo abaganga bamuhe imiti.

Abantu bakunda kugira ibintu byinshi bashobora kuganiraho. Bimwe mu bintu bashobora kuganiraho harimo ibijyanye n'ubuzima, kandi hari amahugurwa abantu bagenda bahabwa, kugira ngo abafashe mu buzima bwabo.

Abantu benshi bakunda gukora uko bashoboye kose kugira ngo babeho neza, niyo mpamvu bahurira mu mahugurwa atandukanye kugira ngo bagire ibintu bigezaho bityo iterambere ryabo rikomeze kwiyongera muri rusange.

Abana baba bakwiriye kwitabwaho, cyane cyane bapimwa inshuro nyinshi, kugira ngo bamenye ibiro bafite, hanyuma mu gihe babona bafite ibiro bikeya ugereranyije n'uko babanje, babahe indyo yuzuye kurushaho.

Abantu baraganira kugira ngo bagire ibyo bageraho. Kuganira bifasha abantu kubana neza mu mahoro kandi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza, dore ko bibafasha kuba inshuti magara, bityo bagasangira ibitekerezo ku ngingo zitandukanye.

Imigezi yashyizwe hirya no hino mu gihugu, ituma abaturage banona amazi ku gihe kandi bakabona ibyo bakeneye byose kuko ayo mazi bashobora kuyakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuturage, umugabo, umugore, umwana, ashobora kujya ku mugezi akazana amazi akayakoresha.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu gutuma imibereho y'abaturage irushaho gutera imbere. Niyo mpamvu abajyanama b'ubuzima basabwa gukora amahugurwa inshuro nyinshi kugira ngo basobanurirwe uko bakwita ku baturage.

Abaturage bagira uruhare mu bikorwa byabo ariko amahugurwa na yo abafasha kugira icyo bamenya ku bijyanye n'ubuzima, umuturage iyo agiye mu mahugurwa ahungukira ibintu byinshi kandi bishobora kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iyo umuntu agiye kwa muganga ahabona intebe nziza cyane, ariko na none kwa muganga si ho honyine haboneka intebe nziza cyane ahubwo n'ahandi hantu bagira isuku ushobora kuhasanga intebe nziza kandi byose bifasha umuntu kubaho neza.

Iyo imigezi ari mike mu gace abantu batuyemo ari benshi hashobora kubaho kuvundana mu gihe bagiye ku mugezi. Gutegereza ko abantu bashiraho, bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kubura uko yakora isuku iwe.

Amazi meza agira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza kuko iyo hari amazi meza bashobora kugira isuku mu buryo bworoshye kandi bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere bifite isuku. Abantu bashobora kuyavoma bakayakaraba hanyuma bakayoga bityo ubuzima bukamera neza.

Amazi abaturage bashobora kuyabona mu buryo butandukanye, hari amazi abaturage baba bifitiye mu ngo, hari n'amazi y'imvura ashobora kuva ku kigega. Mu gihe abaturage bahawe umugezi, baba bakwiriye kugaragaza ko bubaha bakawufata neza.

Abana bakwiriye kwitabwaho, uburenganzira bw'umwana cyane cyane umwan w'umukobwa bukwiye kubahirizwa. Iyo uburenganzira bw'umwana w'umukobwa bwubahirijwe, Urubyiruko rukunda kugaragara neza kandi igihugu kikavugwa neza.

Abana bakwiriye kujyanwa kwa muganga inshuro nyinshi kugirang bitabwe; iyo muganga akurikiranye ubuzima bw'umwana bishobra kugira ingaruka nziza kuko bishobora gutuma gaira agaciro kandi umwana agakura vuba vuba.

Abana baba bakwiriye guhabwa amata kugira ngo bakure. Abana bakiri batoya, bakwiriye kwitabwaho kuko iminsi yabo iri imbere iba iteganywa n'aho bakuriye. Nanone abana, baba bakwiriye guhabwa imfashabere, mu gihe bakiri bato cyane.

Abantu bakwiriye gufashanya kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Niba umuntu hari ikintu azi gishobora kugirira undi akamaro ni byiza kukimubwira. Ashobora gutegura nk'amahugurwa cyangwa se inama ntoya, abantu bacye bakayizamo, bakaganira akamubwira ibijyanye n'ukuntu yafata ubuzima bwe neza.

Imigezi ifitiye abaturage akamaro, kuko abaturage iyo bafite amazi meza bashobora gukora n'ibindi bikorwa bishobora kubahesha icyubahiro, birimo ibikorwa by'isuku, ndetse nibindi bikorwa bashobora gukora bakiteza imbere.

Inyubako kuyireba biba bishimishije kuburyo umuntu ahita agira icyifuzo cyo kubaka inyubako nkiyo, nubwo bitwara amafaranga menshi, iyo umuntu afite amafaranga ahagije agomba kuyakoresha yubaka inyubako ifite isuku.

Abana bakwiriye kugirira isuku imibiri yabo ariko iyo bagiye mu mazi atemba bakayivumbaguzamo, bishobora gutuma ayo mazi yandura, hanyuma abandi bantu bayakoresha, bakaba bafatwa n'indwara ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi baba bakwiriye gukingiza abana babo incuro nyinshi kugira ngo nabo babone ubuzima bwabo bumeze neza. Abana iyo bakingiwe bituma inkingo bahabwa zibagirira akamaro bityo mu gihe kiri imbere nabo bakazavamo ababyeyi beza.

Abantu iyo bagiye ku ivomero bashobora kuhahurira n'abandi, cyane cyane nk'abakobwa iyo bagiye ku ivomero. Bahahurira n'abandi bana bagakina. Ariko mu gihe umwana bamutumye amazi aba akwiye kuyihutana kuko ayo mazi aba agiye gufasha ababyeyi gukora imirimo yo mu rugo.

Ababyeyi bakwiriye gufasha abana babo kugira ubuzima bwiza. Bakwiye kubaha urugero rwiza, bakajya kwa muganga mu gihe barwaye kugira na bo babashe kubaho neza. Iyo abana babibonye bibatera imbaraga na bo mu gihe barwaye bakajya kwa muganga.

Abarwayi bafite uburwayi bakwiriye kwegera abaganga bakabasobanurira uburwayi bwabo, hanyuma abaganga nabo bakabafasha muri ubwo burwayi bagakira. Iyo umurwayi akize vuba bituma agira ibindi bikorwa akora bimuteza imbere.

Amavomero aba yarashizwe hirya no hino mu gihugu atuma abana bagira isuku kandi bakumva bameze neza mu gihe bahuriye bari kuhavoma, ariko kandi baba bakwiriye kwirinda kwangiza imigezi ,kuko haba harashowe amafaranga menshi mu kubaka iyo migezi.

Amazi afitiye akamaro abaturage, umuturage ushaka kumesa ashobora kugenda akavoma amazi ku migezi iba yarubatswe hirya no hino mu gihugu, gusa hari n'abantu bagira imigezi mu rugo, ku buryo mu gihe agiye guteka, agiye gukaraba, agenda akavoma byoroshye.

Amazi afitiye akamaro abaturage, by'umwihariko abanyeshuri baba bakeneye amazi yo kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane mu gihe bashaka gukora isuku y'aho batuye cyangwa se ku kigo bigaho, bakwiriye kujya ku mugezi bakazana amazi bakayakoresha mu bikorwa byabo.

Abantu iyo bahuriye bamwe nk'inshuti hari ibintu baganiraho bikabafasha bikaba byakungura abantu benshi ubumenyi Kandi bishobora gutuma batera imbere mu bumenyi bwabo, bityo ubushobozi bakuyemo bakaba babukoresha n'ahandi.

Kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Abantu bashaka kubaho neza bakwiye kunywa amazi inshuro nyinshi, amazi kugira ngo umuntu ayabone ashobora kugenda ku mugezi akayavoma mu gihe ahasanze abantu benshi agomba gutegereza kugeza ayabonye.

Kugira ngo abantu barusheho kugira isuku, hari imigezi ishyirwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage bahahurire hanyuma babashe kwisukura, amazi bakoresha avuye muri iyo migezi aba yizewe kuko aba afite isuku ihagije.

Abana iyo bakarabye intoki inshuro nyinshi bibafasha kugira ubuzima bwiza kandi ntibabe babasha kurwara indwara ziterwa n'umwanda, izo ndwara kandi zitera ibibazo byinshi, harimo no gutuma abana bapfa imburagihe.

Mu gihugu cy'u Rwanda, hari imishinga myinshi ifasha abaturage kubaho neza, kandi irabafasha ikabasobanurira inshingano zabo. Abayobozi b'iyo mishinga, baba bakwiriye gusobanurira abaturage, bakabegera, bakabafasha kugira ubuzima bwiza, mu mibereho yabo.

Abana bakwiriye gushyira hamwe, bagafata imyanzuro ituma ubuzima bwabo bukomeza kumera neza. Bagomba kuvoma amazi asukuye hanyuma bakayanywa. Mbere yo kunywa ayo mazi bagomba kubanza bakayateka.

Gusobanurira abandi ibijyanye n'uko wafata neza ibidukikije bishobora kugorana, ariko abantu baba hanga bakwiriye gusobanurira abandi uko bafata neza ubuzima bwabo bita kubidukikije, ndetse n'ingaruka bishobora kugira kubuzima bwa muntu.

Abantu bashobora kugira uruhare mu mibereho yabo myiza, bahinga imboga kugira ngo igihe nikigera zikure, hanyuma bazirye bityo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza. Ni yo mpamvu abayobozi begera abaturage kugira ngo babafashe.

Abaturage bakora mu nzego z'ubuzima baba bafite ubushobozi bwo kumenya icyo umuntu arwaye, bakamugira inama kandi bakamufasha kugira icyizere cy'ubuzima. Mu gihe umuntu arwaye agomba kugisha inama kandi abantu babishoboye bakamugira inama y'ukuntu yakwitwara ubuzima bwe bukamera neza.

Ku isi yose hashyirwaho gahunda yo kwita ku buzima bw'umuntu. Hari imiryango igenda yishyirahamwe kugira ngo ifashe abaturage kugira ubuzima bwiza hatitawe ku gihugu bakomokamo. Ku isi yose hari gahunda ishyirwaho ituma abaturage bakomeza kubaho neza birinda indwara.

Kunywa amazi bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Abantu bashobora guhurira ku mugezi kugira bavoma amazi yo gukoresha. Abadamu, abagore ndetse n'abagabo bashobora kujya ku mugezi bakavoma amazi, dore ko igihugu kiba cyarayashize mu bice bitandukanye.

Abantu bita ku buzima bwabo baharanira ko nta kintu gishobora kubuteza inyuma, niyo mpamvu ku Isi hose hashyirwaho gahunda yo kwita ku buzima bwa muntu, umunsi umwe mu mwaka uba ugamije gushyira ubuzima bw'abantu ahantu heza aho kubusubiza inyuma.

Igihugu cya South Sudan nacyo kigira uruhare mu gutuma abaturage bacyo bakomeza kubaho neza, hari abayobozi babishoboye baganira ku ngingo zitandukanye, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza mu baturage.

Abazungu nabo baba bazi ibijyanye n'ubuzima bw'abantu, bashobora gufasha abaturage kumenya icyo bakora kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, ni yo mpamvu ubuzima bw'umuturage bukwiriye gushyirwa ku isonga.

Mu gihe abaturage bagiye kuvoma amazi bakwiriye kujyana ibikoresho bifite isuku kuko iyo ibikoresho bifite isuku, abaturage nabo isuku yabo iriyongera kandi ubushobozi bwabo bwo gukoresha amazi bukiyongera bakayakoresha neza.

Amazi abaturage bavoma bashobora kuyifashisha mu kazi kabo ka buri munsi harimo guteka ndetse no gukora akandi kazi kabafasha, bashobora kuyifashisha bakora amasuku aho batuye ndetse bakanayakaraba.

Umubyeyi ufite umwana na we ashobora kujya kuvoma amazi yo kwifashisha, ayo mazi ashobora kuyakura ku mavomo rusange, aba yarashyizwe ahantu hatandukanye mu gace abaturage batuyemo kugira ngo abafashe gukomeza kwimakaza isuku.

Abantu baharanira kwiteza imbere mu buryo butandukanye, ariko guteza imbere imikurire y'ubwonko ni byo bikwiriye kwibandwaho kuko iyo umuntu afite ubwonko bukora neza, ashobora no gutera imbere mu buryo bworoshye cyane.

Abana bakwiye kwitabwaho, bakarindwa, kuko nabo bakeneye kubaho neza. Umwana wahawe ibiryo agahabwa ikintu cyose, ntashobora kurizwa n'ubusa. ariko iyo umwana hari ibintu abura, bishobora kwangiza imitekerereze ye.

Mu gihe umuntu afite ikibazo k'irungu cyangwa se ubwigunge, ashobora kwegera mugenzi we akamubwira ikibazo afite, hanyuma na we akamufasha kubaho yishimye kandi ibyo bishobora gutuma yumva amerewe neza mu mutwe we.

Ababana bo ku mihanda nabo bakwiriye kwitabyaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kugira ngo abana bitabweho, leta igomba kubishyiramo ingufu, kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza, cyane cyane bakita ku mikurire y'ubwonko bwabo.

Kugira ngo umuntu agire ejo heza asabwa kugira ibintu akora bigatuma agira ubuzima bwiza, mu gihe umuntu ashaka kubaho neza, hari ibintu agomba gukora bigatuma ahorana akanyamuneza kandi akagira umucyo, ubwo rero ibi bishobora gutuma isi iba nziza muri rusange.

Abaturage baba bakwiriye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu mutwe bukomeze kuba bwiza. Bashobora guhurira hamwe bakagira ibintu baganiraho bibafasha kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Abantu benshi bakunda kuganira ku bibazo bijyanye n'ubuzima, ariko abantu baba bakwiye no kuganira ku bijyanye n'uburyo bafata ubuzima bwabo bwo mu mutwe kugira ngo hatagira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bityo agateza ibibazo abandi.

Umugore n'umugabo baba bakwiriye kubana neza kugira ngo birinde kubabazanya bityo ubuzima bwabo bugende neza, abantu iyo batekereza neza bashobora gufata imyanzuro iteza urugo rwabo imbere, hanyuma iterambere rikiyongera.

Igihugu cy'u Rwanda kizwiho gufasha abaturage bacyo kugira ubuzima bwiza, hari ingamba zigenda zishyirwaho kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, yaba ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bugaragara inyuma.

Abantu bari mu mahugurwa, hari ibintu byinshi bagenda bigiramo, cyane cyane abanyeshuri bagenda biga kubana neza n'abandi kandi bakita ku mikurire yabo y'ubwonko bityo buri wese akaba ashobora kwisanzura kuri mugenzi we.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni igikorwa cy'ingenzi gifasha abantu batandukanye gukura mu mibereho yabo. Abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe bwiza bashobora gutekereza neza ibikorwa bishobora kubageza ku iterambere mu gihe cyihuse kandi cya vuba.

Umuntu ashobora kuvuga ikintu kimuhangayikishije ntakibazo afite. Ariko kandi abantu baba bakwiriye kwigishwa uburyo bashobora kumenya ko bafite ubuzima bwiza ku bijyanye n'ubwonko bwabo bityo bakabana neza n'abandi.

Mu gihe umuntu yapfushije arababara cyane akagira agahinda. Ibyo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekerereze kandi bigashobora gutuma yigunga. Ubwo rero abantu baba bakwiye kumuba hafi kugira ngo akomeze kugubwa neza no kugira ubuzima bwiza.

Abantu bafite ibibazo by'imitekerereze na bo baba bakwiye kwitabwaho bagahabwa ubuvuzi bw'ibanze mu gihe bikenewe, abo bantu ntibakwiriye guhezwa kuko nabo baba bafite ubuzima nk'ubw'abandi bantu, nubwo baba bafite ibibazo by'imitekerereze.

Abantu bakuze na bo bashobora gukora ibikorwa bituma bagira ubuzima bwiza, harimo nko guteka ibyo kurya. Umukecuru na we ashobora guteka ibyo kurya, mu gihe yumva afite inzara, akarya bityo agakomeza kugubwa neza.

Abana na bo bakwiriye kugira isuku bakirinda kugira umwanda, bashobora kujya ku mugezi bakavoma amazi, ayo mazi bakayakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi kugira ngo bagire isuku, bakamesa imyenda yabo kandi bagakaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Ikigo gishinzwe Ubuzima "RBC" mu Rwanda, gishiraho gahunda zo gusobanurira abaturage ibijyanye n'ubuzima bwabo, n'uko bakora kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza, bityo iterambere ry'ubuzima bwabo ryiyongere.

Abanyeshuri ku ishuri nabo baba bakwiriye kwitabwaho, ubuzima bwabo ni ubw'agaciro cyane kuko iyo bafite ubuzima bwiza n'imyigire yabo igenda neza. By'umwihariko baba bakwiriye kwigishwa uburyo bagira imitekerereze myiza.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiriye kwitabwaho, cyane cyane hakitabwa ku mitekerereze yabo, abo bantu na bo baba bakwiriye kugira ubuzima bwiza bagirwa inama kenshi y'uburyo bagira icyo bakora kugira ngo bakomeze kugira imibereho ishimishije.

Isange ni ikigo cy'urubyiruko, aho abakiri batoya bahahurira bakagira ibintu bagenda banoza baganiraho, bishobora gutuma bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bugenda neza, bityo iterambere ry'ubuzima bwabo rikarushaho gutera imbere.

Abantu bakwiye kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe baharanira kurya neza ndetse no gufata amahugurwa mu gihe bikenewe, umuntu wese iyo arya neza ashobora kumara igihe kirekire bitewe nuko aba afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abantu bagomba guharanira uburyo bwose bushoboka kugira ngo babeho neza. Cyane cyane bita ku buzima bwabo bujyanye n'imitekerereze. Bagahora baseka kandi bishimye. Kuko ibyo bishobora gutuma babaho igihe kirekire.

Abaturage bahurira mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima kugira ngo basobanurirwe uko ubuzima bwabo bwarushaho kuba bwiza. Bakwiriye kubaha abajyanama b'ubuzima bagashyira mu bikorwa inama bagirwa kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe bituma abantu bagira ubuzima bwiza kandi bakabana neza. Umuntu ufite ikibazo cy'imitekerereze yambara imyenda imeze nabi, kandi ntabwo agira isoni zo gukora ibindi bikorwa abandi badashobora gukora.

Umuntu iyo yarakaye ashobora kugira imyitwarire mibi, kandi ashobora gukora igikorwa ashobora kwicuza nyuma. Kurakara si ibyiza gusa na none kugira ngo umuntu atarakara agomba gutegura neza ubwonko bwe kuko bituruka mu bwonko.

Umubyeyi iyo yabyaye abana, aba akwiriye gukora uko ashoboye kose abo bana bagakomeza kugubwa neza. Bimwe mu bintu ashobora gukora, ni ukuganiriza abana be bityo ubuzima bwabo bugakomeza kugubwa neza, by'umwihariko mu gihe bafite ibibazo, ibyo bibazo bigakemuka.

Kwa muganga haba hariho amagambo yanditse ahantu hatandukanye, agaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye bakora. Amwe muri ayo magambo ashobora kugaragaza ko hari ibikorwa byo kugira abantu inama bafite ibibazo by'imitekerereze, bityo bakaba babagana bakabafasha.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe, bifasha abantu b'ingeri zose kungurana ibitekerezo, bakaganira hagamijwe inyungu rusange. Abantu bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere. Ubwo rero, mbere na mbere bakwiye kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe.

Abana bakiri batoya baba bafite amenyo meza cyane, gusa mu gihe ayo menyo agize ikibazo umwana bashobora kujya kwa muganga bakamurebera uko ikibazo cye giteye, byaba ngombwa iryinyo rirwaye bakarikuramo.

Abana bakiri bato, bakwiriye gukora uko bashoboye kose kugira ngo bagirerire isuku aho batoye, by'umwihariko imibiri yabo. Bakwiriye koza amenyo yabo inshuro nyinshi kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza, bityo bakomeze kugira amagara mazima.

Abana iyo bishimye birigaragaza, ku buryo umuntu wese ubabonye ashobora kumenya ko bishimye cyangwa bababaye. Guha abana impano, bifasha abo bana kwishima, ubuzima bwabo bukagaragara neza, kandi ababyeyi bakishimira ko bafite abana bishimye.

Abantu bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bugira ireme, abantu bashobora gukora uko bashoboye bakagira amenyo meza kuko bashobora gukoresha ibikoresho bitandukanye bibafasha gusukura amenyo yabo.

Abantu bafite ikibazo cy'amenyo bagomba kuyitaho cyane kugira ngo amenyo yabo akomeze kugubwa neza, mu gihe umuntu yita ku menyo ye ashobora gukoresha uburyo butandukanye harimo nko gukoresha akadodo ayasukura.

Abantu bagira uruhare mu gutuma abandi bishima, bimwe muri byo harimo kubaganiriza bakabatera inkuru zituma baseka, na none kandi mu gihe bashaka guseka bagomba gukorera isuku amenyo yabo kugira ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Ibikoresho abaganga bifashisha, bigira uruhare mu gutuma abarwayi bakira vuba, kubera ko ibikoresho bifashisha iyo bifite isuku n'abarwayi bakira mu buryo bworoshye, kandi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza.

Kwa muganga umuntu iyo agiyeyo ahasanga ibikoresho bitandukanye ashobora kwifashisha. Ariko kandi ibikoresho bikoreshwa kwa muganga biba bikoranye ubuhanga ku buryo bisaba kugira ngo umuntu aba afite ubushobozi bwihariye mu kubikoresha. Ni yo mpamvu abaganga babanza guhabwa amahugurwa mbere yo kujya mu kazi.

Abanyeshuri bashimishwa n'ibintu bitandukanye. Umwarimu aba akwiye kuba inshuti y'abanyeshuri kugira ngo bamukurikire neza. Mu gihe abanyeshuri bishimye bashobora gufata ibintu byinshi, nubwo byaba bikomeye cyangwa bigoranye kubifata mu mutwe.

Ibyuma bigaragara kwa muganga, birifashishwa cyane mu gukora akazi, kuko abarwayi baba bakeneye ubuvuzi kandi bwihuse, na none kwa muganga haba harimo imigezi abarwayi bagomba gukarabiraho mu gihe bafite uburwayi.

Umuntu akwiriye gukorera isuku amenyo ye by'umwihariko mu gihe arangije kurya, agomba gukora isuku akoresheje uburyo butandukanye burimo no gukoresha akadodo kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Amenyo y'umuntu agira uruhare mu gutuma aseka cyangwa ababara. Mu gihe umuntu afite amenyo meza bishobora kumutera guseka, ariko iyo umuntu afite amenyo mabi bishobora gutuma agira ipfunwe ryo guseka. Ni yo mpamvu agomba gukora uko ashoboye kose agashaka imiti ituma amenyo ye aba meza.

Amenyo y'umuntu aba akwiriye kwitabwaho cyane cyane mu gihe ageze mu za bukuru, amenyo y'umuntu amufasha kurya kandi iyo umuntu adafite amenyo guseka bishobora kumutera ipfunwe. Ubwo rero mu gihe umuntu afite amenyo agomba gukora uko ashoboye kose akayarinda kugira ngo atarwara bityo bikamutera ibibazo bijyanye n'amenyo.

Inyubako nziza ituma umuntu uyifite agira ibyishimo byinshi, iyo umuntu yubatse inyubako igeretse inshuro nyinshi biramushimisha kandi akumva yabwira n'abandi bantu kuza kureba iyo nyubako kubera ko aba yumva afite ishema ryayo.

Kwita ku menyo bituma abantu bagaragara neza kandi umuntu wese ufite ikibazo cy'amenyo agomba kujya kwa muganga, umuntu wese ufite amenyo meza ashimishwa no guseka kandi agasabana n'abandi mu buryo bworoshye cyane.

Abana bagira uruhare mu buzima bwabo ariko iyo bagiye ku ishuri biga ibintu byinshi kandi ibyo bintu bibagirira akamaro iyo babikoresheje, bashobora kwiga ibintu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo kandi abarimu b'abahanga babasobanurira uko bakoresha ibyo bintu bize.

Uburwayi bw'ibyinyo ni uburwayi bufata umuntu bukamubabaza cyane. Ariko iyo agiye kwa muganga akabwira muganga uko yumva amerewe, muganga ashobora gufata umwanzuro wo gukuramo iryo ryinyo, cyangwa se kumuha imiti yo kugira ngo imufashe kugabanya ububabare.

Umuntu iyo yishimye araseka bikanezeza abandi. Ibi bigaragaza ko afite ubuzima bwiza. Guseka ni ibanga ryo kugira ubuzima bwiza kandi bishobora gutuma umuntu abaho igihe kirekire. Abantu bose basabwa guseka kugira ngo ibyishimo bigaragarire abandi.

Kugira ngo umuntu abeho neza, agomba kwita ku mubiri we, bimwe mu byo agomba gukora ni ukwita ku menyo ye, ayagirira isuku, kugirira isuku amenyo bikorwa mu buryo butandukanye, harimo kuyoza ukurikije amabwiriza aba yaratanzwe, ushobora no gukoresha akadodo.

Abana bakiri bato na bo baba bakwiriye kwita ku menyo yabo. Bakwiriye kwita ku buzima bwabo nk'abantu bakuru kuko iyo bitaye ku buzima bwabo, bishimisha ababyeyi kandi ubuzima bwabo na bwo bufite agaciro nk'ubw'abantu bafite imyaka yo hejuru.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ibice byose by'umubiri agomba kubisukura, by'umwihariko agomba gusukura amenyo abyitondeye kugira ngo atamutera ikibazo akaba yagira ipfunwe ryo guseka mu bandi.

Hari ibikoresho bitandukanye bigaragara mu nyubako nyinshi bifasha abantu gutuma bagira ubuzima bwiza, bimwe muri ibyo bikoresho bishobora kugira uruhare mu gutuma bagira ubuzima bwiza, nubwo bishobora kubahenda babigura amafaranga menshi.

Umuntu ushaka kubaho neza agomba gufata indyo yuzuye kandi akayifatira ku gihe kugira ngo akomeze kugubwa neza, iyo umuntu yariye indyo yuzuye bishobora gutuma agubwa neza, bityo akaba yakora ibindi bikorwa, ibyo bigaragazwa n'uko aseka kandi yishimye afite amagara mazima.

Hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukura amenyo ban barwaye. Mbere y'uko umuntu ajya gukura amenyo arabanza akabyigishwa, kugira ngo nahura n'umuntu azabe abizi, bityo atamwangiza.

Umuntu wishimye, hari ibintu bigaragaza ko yishimye, akaba yakora ibikorwa by'ingirakamaro, kwishima ni byiza mu buzima kandi mu mibereho ya muntu aba akeneye kwishima kugira ngo abeho igihe kirekire.

Mu gihe umuntu agiye kwa muganga agomba kubanza kwitegura, hari ibintu byinshi bifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Si ngombwa ko umuntu ajya kwa muganga mu gihe arwaye amenyo, ahubwo gukora isuku byonyine bishobora gutuma ayo menyo akira.

Amenyo y'umuntu akwiriye kwitabwaho cyane, hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha asukura amenyo ye. Mu gihe hagati mu menyo hari imyanda ashobora gukoresha akadodo bityo imyanda mu menyo ye ntikomeze kwiyongera.

Umuntu iyo afite ubuzima bwiza arireba mu ndererwamo akumva arikunze, kugira ubuzima bwiza nta muntu utabyifuza ariko nanone kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza hari ibintu agenda akora bigatuma akomeza kubaho neza.

Abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bw'iryinyo, bashobora kujya kwa muganga, muganga akabafasha gukira ubwo burwayi. kwivuza amenyo, bituma umuntu akomeza kugubwa neza kandi akagira amagara mazima, mu gihe afite ibibazo by'uburwayi bijyanye n'amenyo.

Mu giye umuntu yagiye kwa muganga ashobora kuhakura ibikoresho bishobora kumufasha mu buzima bwe; ariko ibikoresho biba kwa muganga byo biba bifite isuku yihariye kuburyo iyo suku udashobora kuyisanga ahandi hatari kwa muganga.

Amenyo y'umuntu afite agaciro cyane. Umuntu agomba kuyitaho kugira ngo ayo menyo atangirika. Iyo yitaye ku menyo ye bigira ingaruka nziza kuko bituma yumva amerewe neza, ntagire ipfunwe ryo guseka mu bandi.

Umuntu urwaye amenyo ikintu ashobora gukora kugira ngo agire ubuzima bwiza, ni ukujya gukuza ayo menyo kuko atabikoze bishobora kumuviramo ingaruka zo kuba yahura n'uburwayi bukomeye cyane bityo bikamubera bibi cyane.

Kwita ku menyo y'umuntu bimugirira ingaruka nziza, kuko bituma amenyo ye atarwaragurika, kandi bimurinda indwara zifata amenyo. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha yita ku menyo ye harimo no kuyoza.

Abantu bakuru bakwiriye gufashwa mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo batananirwa iyo baganiriye n'abakiri batoya bumva bameze neza kandi ni byiza ko baganirizwa inshuro nyinshi.

Abantu bageze mu zabukuru na bo bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, ibyo bashobora kubifashwamo n'abana babo bakiri batoya, bakabafasha gutembera, ahantu nyaburanga hatandukanye bityo bakagira ubuzima bwiza.

Abantu bageze mu zabukuru na bo baba bakeneye imbuto zo kurya. Birashimisha kubona umuntu ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umuntu ukiri mutoya, akamuha imbuto akirira kugira ngo na we agire ubuzima bwiza. Erega na bo baba bakeneye kubaho neza cyane!

Abantu bageze mu zabuku na none kandi baba bakeneye kurya kugira ngo ibyo barya bibagirire akamaro. Baba bagomba na none kunywa imiti mu gihe bafite uburwayi. Iyo miti baba bagomba kuyirira ku gihe kuko iyo bayiririye ku gihe ni bwo ibagirira akamaro.

Imyitozo ngorora mubiri igirira agaciro abantu bose, hakubiyemo abakuru abato n'abakize. Iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiriri, ashobora kugira ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi bishobora gutuma atera imbere mu buryo bworoshye bityo bikamugeza ku iterambere rirambye.

Kurya imbuto bigirira akamaro abantu b'ingeri zose, by'umwihariko abantu bakuze bakwiriye kurya imbuto ndetse n'indyo yuzuye kugira ngo bagire ubuzima bwiza kurushaho, ibyo bashobora kubifashwamo n'abana babo bakabajyana ku isoko bakabagurira ibyo bakeneye.

Abaturage bageze mu zabukuru bakwiriye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Bakwiriye kwitabwaho n'abakiri batoya bakabafasha mu mirimo yabo, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza kandi bakishimira kubaho.

Abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho by'umwihariko mu gihe bafite ibibazo by'uburwayi, bakitabwaho n'abana babo kugira ngo babafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, bityo babashe kubaho igihe kirekire.

Abantu bageze mu zabukuru bakunda gukoresha uburyo butandukanye kugira ngo bishime. Ariko buriya, abantu bageze mu zabukuru bashimishwa no kuba bari kumwe n'abana babo bakabaganiriza. Baba bakeneye umuntu babwira inkuru banyuzemo.

Abageze mu zabukuru bakwiriye kwitabwaho mu mirimo ya buri munsi bakora. Bakwiriye kwirinda kuvunishwa, cyane cyane abasaza n'abakecuru. Mu gihe umuntu ugeze mu zabukuru afite abuzukuru, bakwiriye kumufasha mu mirimo yo mu rugo ndetse bakanamuterura mu gihe agiye guhaguruka.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiriye kwitabwaho bagahabwa amafunguro arimo intungamubiri kugira ngo na bo bakomeze kubaho mu buzima bwa buri munsi, iyo bahawe ayo mafunguro abafasha kubaho neza kandi bituma bagira ubuzima bwiza cyane.

Abantu bageze mu za bukuru nabo bakwiye guhabwa agaciro bakitabwaho, kuba bashaje ntibivuze ko bakwiriye kujugunywa, ahubwo abagize imiryango yabo, baba bakwiririye kubitaho, bakabasura inshuro nyinshi bakabaganiriza.

Abantu bakuze bakwiriye kwitabwaho cyane kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Bakwiriye guhabwa ibikoresho bibafasha mu myitozo ngororamubiri kandi mu gihe bakora imyitozo ngororamubiri, abakiri bato bagomba kubamenyera iyo bakora kugira ngo batananirwa.

Abantu bageze mu zabukuru. Bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, ibafasha kunanura ingingo zabo. Imyitozo ngororamubiri irabafasha cyane kuko ituma bagira amasaziro meza kandi bakagira ubushobozi bwo kugira imbaraga nyinshi, mu buzima busanzwe.

Abantu bakiri batoya bakwiriye kwita ku bantu bakuze kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza, umuntu mukuru iyo yitaweho agira ubuzima bwiza kandi ashobora kumara imyaka myinshi, ugereranyije n'umuntu utitaweho.

Abana bakwiye kwita ku babyeyi babo cyanecyane mu gihe bafite ababyeyi bageze mu zabukuru, iyo abana bita ku babyeyi babo bageze mu zabukuru bituma abo babyeyi barushaho kwishima kandi iminsi yabo yo kubaho ikiyongera.

Abageze muzabukuru bakwiye kurya neza kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza. Zimwe mu ndyo bashobora kurya harimo imboga ndetse n'imbuto bishobora gutuma bakomeza kugira akanyamuneza. Abageze mu zabukuru baba bakwiriye kugaragarizanya urukundo.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiriye kwitabwaho mu buryo bwose kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza, kuko iyo bitaweho bishobora gutuma babaho igihe kirekire, kandi bakagira ubuzima bwiza mu gihe bagaragarizanya urukundo.

Abantu bageze muza bukuru bakwiriye kwitabwaho bahabwa amafunguro ahuje n'intungamubiri bakeneye. Abantu bageze muza bukuru iyo bitaweho ubushobozi bwabo bwo kubaho buriyongera, iminsi yo gupfa ikiyongera.

Umukecuru n'umusaza bagomba gushyira hamwe kugirango ubuzima bwabo burusheho kumera neza, bagomba kwiyitaho, barya indyo yuzuye kandi bagafashanya mu mirimo yo murugo kugirango urukundo rwabo rurusheho kwiyongera.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiriye kwiyitaho bagaharanira kurya neza. Ariko mu gihe bafite ibibazo by'ubukene, abantu babishinzwe bari mu nzego z'ubuzima ni ukuvuga inzego z'ubuyobozi, bakwiye kubitaho nabo bakabona ibyo barya.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiye kwitabwaho hanyuma nabo bakagira ubuzima bwiza; by' umwihariko baba bakwiriye kuganirizwa kugirango bashobore kumva bafite umuntu ubari hafi bityo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza.

Abaturage bafite ubuzima bwiza, bakora ibikorwa bishobora kubateza imbere. by'umwihariko abakecuru baba bakwiye kuganira n'abakiri bato mugihe bari mumirimo yabo, kugirango naba bibashimishe bababwire inkuru z'ibintu byababayeho, bityo ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Abantu bakiri batoya baba bakwiriye kwitabwaho ariko abantu bakuze bo bakwiriye kwitabwaho mu buryo burengeje urugero. Kuko iyo bitaweho mu buryo burengeje urugero bituma bumva bakunzwe kandi nabo bakagira uruhare mu bibakorerwa.

Kugira ngo umuntu agere ku iterambere, hari ibintu agomba kwirirnda, gusugura abantu bakuze bishobira gutuma umuntu atagira ikintu ageraho, by'umwihariko abana baba bakwiye kubaha ababyeyi babo, mu gihe bageze mu zabukuru.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiriye kwitabwaho, cyane cyane mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga kubera ko nta makuru baba bafite, abakiri batoya bashobora kubafasha kumenya uko ibikoresho by'ikoranabuhanga bikorwa. Ubwo rero ibyo iyo babikoze bishobora gutuma ubuzima bwabo bugenda burushaho kumera neza.

Abantu baba bakwiriye kwitabwaho cyane cyane abantu bageze mu zabukuru, mu gihe umuntu ageze mu zabukuru adafite imbaraga zo gukaraba, undi umwitaho ashobora kumukarabya hanyuma na we agakomeza kugira ubuzima bwiza nk'abandi bana bakiri batoya.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiriye kwiyitaho bakishima ndetse bagakora n'ibindi bikorwa bibagirira akamaro mu buzima bwabo, abantu bageze mu zabukuru bashobora gutaha ubukwe, hanyuma bagashyiramo akaririmbo keza, bakabyina bakishima bakumva bamerewe neza.

Abantu bageze mu zabukuru na bo baba bakwiye kugira uburenganzira ku ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rirabafasha mu buzima bwa buri munsi, iyo bafite uburwayi bashobora kumenya ubwoko bw'imiti barya, bifashishije ikoranabuhanga.

Imbuto zitandukanye zishobora kuvamo imiti ishobora gukoreshwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Iyo miti ishobora kuva mu bimera gakondo, ni ukuvuga imbuto zabyo kandi zishobora kugira uruhare mu gutuma umuntu akomeza kubaho neza.

Abantu bakuze bakwiriye guhabwa imyitozo ibafasha kugorora ingingo zabo kugira ngo nabo barusheho kumara iminsi myinshi, nubwo baba bashaje baba bakwiriye gukora ibikorwa bibafasha kugira ubuzima bwiza n'amagara mazima.

Umubyeyi aganiriza umwana we, akamubwira inkuru za kera, bagakina imikino kugira ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Umubyeyi ukuze iyo ari kuganira n'umwana we, buriya umubyeyi na we yumva yishimye.

Abana bakiri batoya bashimishwa no kubona abantu bakuru babateruye ariko kandi iyo umwana akiri mutoya ari mu ntoki z'umuntu mukuru, uwo muntu mukuru na we yumva yishimye, bityo akumva yitaweho kandi anyuzwe.

Abantu bageze mu zabukuru, baba bakwiriye kwitabwaho. Ubuzima bwabo buba bugoye cyane. Ni yo mpamvu mu gihe umuntu ageze mu zabukuru agiye kwa muganga, abaganga bagomba kumusobanurira bitonze, icyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abageze mu zabukuru baba bakwiye kwitabwaho kugira ngo na bo bakomeze kubaho. Iyo bitabeho neza, bahorana akanyamuneza kandi ntibagire ibibazo biterwa n'izabukuru bityo bagakomeza kubaho neza.

Abantu benshi bagira uruhare mu gutuma ubuzima bwabo bukomeza kuba bwiza kandi umuntu ukunda kugira ubuzima bwiza na we yubaha ubuzima bw'abandi, abantu bakuru bakwiriye kwitabwaho kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru bashaje baba bagomba kwitanaho, buri wese akita kuri mugenzi we amugaragariza urukundo, iyo bafite abana biba byiza kuko abana babo bashobora kubafasha mu mirimo imwe n'imwe ndetse bakabafasha no mu kunywa imiti baba bandikiwe na muganga.

Indwara ya SIDA abantu bakwiye kuyirinda, kuko yica mu buryo bubi, kandi yandura mu buryo bwihuse. Ubwo rero hari inzego zitandukanye zigenda zitanga amahugurwa y'uburyo abantu bakirinda iyo ndwara ya SIDA.

Icyorezo cya Kovidi cumi n'icyenda cyagize ingaruka ku buzima bw'abaturage. Hari ababuze akazi, hari abapfushije ababo ndetse hari n'abagihangana n'ingaruka zacyo. Ubwo rero abantu bakwiye kwirinda ibyorezo by'indwara bahereye ku ngaruka z'ibyorezo biba byarabayeho.

Hari inyandiko zigenda zitegurwa kugira ngo zisobanurire abantu uko bafata neza ubuzima bwabo, mu Rwanda hari ingamba zigenda zishyirwaho n'urwego rw'igihugu kugira ngo zifashe abaturage kubaho neza.

Abantu bakora muri serivise z'ubuzima hari ibintu byinshi bageraho kandi bishobora kubungura. Nk'abantu bashaka kwiga ibijyanye n'imyitwarire y'abantu hari ibishushanyo babona ahantu ku mihanda bikaba byabarangira icyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abakiri batoya iyo bambaye imyenda isa buri wese aba yumva akunze mugenzi we, imyenda abakiri bato bakunda kwambara, haba harimo amapantaro ndetse n'udupira, hari abantu bakunda kwambara imyenda y'umweru ndetse n'amapantaro akomeye.

Abahinzi, aborozi ndetse n'abandi baba bakwiye kugira isuku mu byo bakora. Mu gihe bagize isuku mu byo bakora, ubuzima bwabo burushako kuba bwiza kandi akazi bakarushaho kugakora neza kuko baba bafite amagara mazima.

Abaganga bakora uko bashoboye kose kugira ngo umurwayi amere neza. Mu gihe afite ikibazo cyangwa se uburwayi busaba ko bamubaga, bateranira hamwe bakamubaga bakareba ahantu afite ikibazo, iyo nyama ifite ikibazo bakaba bayisimbuza indi cyangwa se bakayivura igakira.

Abantu iyo bahuriye hamwe hari ibintu bagenda baganiraho, bishobora kubafasha kugira ubuzima bwiza, ibyo bintu iyo babihaye agaciro bishobora gutuma batera imbere kandi ubuzima bwabo bugakomeza kugubwa neza aho batuye.

Kwita ku bidukikije ni ibanga ryo kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, abahanga bavuga ko abantu iyo bitaye ku bidukikije nta bintu bishobora kubangiza biturutse hanze kubera ko umwuka bahumeka uba ari mwiza cyane.

Abantu bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ku Isi yose ikitwa ikiremwamuntu giharanira icyatuma kigira ubuzima bwiza, abayobozi bakuru bashyiraho ingamba zifatika zo gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza.

Inzego z'ubuzima zisobanurira abaturage, ubuzima bwabo zibinyujije mu mashuri atandukanye kugira ngo abantu bagende bigishwa ibijyanye n'uko wafata neza ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi.

Abantu bakwiriye kwirinda indwara itera Virusi ya SIDA. Izo Virusi zirakwirakwira. Abantu bakwiye kwirinda ubusambanyi ndetse no guhererekanya ibikoresho bishobora gutuma bava amaraso kuko bishobora kwanduza iyo ndwara.

Kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza babanza gusobanurirwa ibintu byose bashobora gukora. Ni yo mpamvu mu ishuri abanyeshuri biga ibijyanye n'ibyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzima umuze.

Hari ingamba zigenda zishyirwaho kugira ngo zifashe abaturage kugira ubuzima bwiza. Zimwe muri izo ngamba harimo gusobanura ibijyanye n'icyo abantu bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi izo ngamba zirabafasha cyane.

Abantu iyo bari ahantu hamwe bashobora kwandura indwara mu buryo bworoshye, niyo mpamvu mu gihe abantu bagiye mu mahugurwa bagomba gushyira umwanya hagati yabo kugira ngo niba hari umuntu urwaye indwara atanduza mugenzi we.

Icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyagize ingaruka mbi ku buzima bwa muntu kubera ko cyatumye ubukungu bwe bugabanuka. Abantu benshi bagize ibura ry'akazi kandi hari abantu bagiye bagira ibyo bigiramo. Ubwo rero abantu bagomba kwirinda ibyorezo by'indwara.

Hari indwara abantu bashobora kurwara bitewe n'ingaruka banyuzemo mu minsi yabo ya mbere y'amavuko. Hari n'indwara abantu bashobora kurwara bitewe n'umwanda. Hari indwara zidashobora gukira, urugero nka kanseri, ku buryo kuzivura bisaba guha umurwayi imiti yo koroshya gusa.

Urukingo n'ikintu cyiza cyane kivura abantu cyangwa se gifasha abantu gutandura indwara. Mu gihe umurwayi afashe urukingo bishobora kumurinda kwandura izindi ndwara. By'umwihariko abantu bakwiriye gufata inkingo mu gihe hari indwara nshya yadutse.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bashobora kwandura indwara zandura, hari uburyo bwinshi bashobora gukoresha kugira ngo izo ndwara zandura zitabageraho, ibyo birimo kwirinda guhererekanya ibikoresho bishobora kuba byabavusha amaraso ndetse no kwirinda ubusambanyi.

Abantu baba bakwiriye kwiyitaho muburyo butandukanye, bagakora uko bashoboye kose bakagira ubuzima bwiza, kuko iyo umuntu afite ubuzima bwiza aba ashobora gukora ibikorwa bituma ubuzima bwe bugenda neza, nyine ibikorwa bishobora kumugeza ku iterambere.

USAID ni ikigo cyo muri Amerika gishinzwe gutera inkunga ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, kugira ngo na byo byimakaze ubuvuzi bw'abaturage babibamo kandi babashe kwifuza ku kiguzi cyoroshye bityo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bakwiriye guhugurwa ku bijyanye n'uburyo bakoresha ubuzima bwabo, by'umwihariko abanyeshuri bakwiriye kwigishwa uko batwara ubuzima bwabo, bityo na bo bakagenda bagafasha abandi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu iyo bari mu mahugurwa bagenda baganira ingingo zitandukanye, zishobora gutuma babaho neza, zimwe muri izo ngingo bashobora kuganira, n'izijyanye n'ubuzima kandi ibyo byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikigo cy'ubuzima RBC mu Rwanda, gifasha abaturage kubaho neza by'umwihariko mu gihe bafite uburwayi, Bakaba bashobora kubona amakuru ndetse n'uburyo bashobora kwivuza ku gihe binyuze muri icyo kigo.

Indwara zirimo ibyorezo zishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage; ni yo mpamvu igihugu gikora uko gishoboye kose kugira ngo umuturage yirinde izo ndwara z'ibyorezo. urugero nk'icyorezo cya Kovide cumi n'ikenda cyangize ibintu byinshi mu mwaka yashize.

Mu gihe umuntu agize ikibazo cy'uburwayi, ababishinzwe bagomba kumwitaho. Abantu bose baba mu ngeri zitandukanye bashobora kumufasha akagira amagara mazima kandi agakomeza kugubwa neza, by'umwihariko abakiri batoya, bakwiriye gufasha abantu bakuze gukomeza kugira amagara mazima.

Abarwayi iyo bagiye kwa muganga bahabwa ikaze. Ubwo rero by'umwihariko igihugu gishyiraho gahunda zo gufasha abagore kugira ubuzima bwiza, kandi ku isi yose iyo gahunda yo gufasha abagore kugira ubuzima bwiza irahari.

Hari uburyo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, bashobora kwifashisha kugira ngo basobanukirwe uko bafata neza ubuzima bwabo. Aho ngaho basobanurirwa binyuze mu magambo, ndetse bashobora no gusoma ibitabo bagasobanukirwa uko bafata neza ubuzima bwabo.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari minisiteri ishinzwe ubuzima. Aho abayobozi bakora uko bashoboye kose bagafasha abaturage kugira imibereho myiza izira uburwayi. Aha ngaha, abayobozi bashyiraho gahunda zo gukumira indwara z'ibyorezo.

Inyubako z'ahantu zitandukanye zigomba kubakwa ku buryo budateje akaga kandi zikubakwa ahantu hatari mu manegeka, kuko biramutse bibaye gutyo bishobora gushyira ubuzima bw'umuturage mu kaga, bityo akabaho nabi.

Inzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ziba zirimo ibikoresho bifasha abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bikoresho biba bitandukanye, ariko bigira uruhare mu gutuma abantu baje gukora imyitozo ngororamubiri, imibiri yabo igororoka.

Hari ibigo byigisha uko abantu bafata neza ubuzima bwabo. Muri ibyo bigo harimo za kaminuza zigisha ibijyanye n'ubuganga. Izo ziba ari inyubako nziza abantu bashobora kujyamo bagakiriramo uburwayi, kandi abanyeshuri bahize bahakura ubumenyi buhambaye.

Inzu zikorerwamo ubuvuzi, abarwayi barazikunda cyane, zigomba kuba zifite ubusitani imbere ku buryo umurwayi ajyamo akabona ubuvuzi kandi ntasohoke abona umwanda imbere y'ibitaro.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire isuku, ariko kwa muganga ni ahantu hakunda kuba hari isuku idasanzwe, aho umuntu ashobora kugera agasanga hari ibikoresho bifite isuku, ariko kugira ngo umuntu abyigane agomba kubikoresha kandi bikamugirira akamaro.

Inyubako nyinshi zifitiye akamaro abaturage, kuko hari inyubako zivamo ibitaro, mu gihe umuturage agiye kwa muganga, agomba kwirinda gusiga yanduje ahantu yagiye kuko bishobora guteza ikibazo abandi barwayi, baje kwa muganga.

Abakozi bakora kwa muganga, baba bagomba kwambara mu buryo bwihariye kugira ngo nihagira icyorezo cy'indwara cyaduka, iyo ndwara itabageraho kuko bakunze guhura n'abarwayi inshuro nyinshi, ubwo rero baba bakwiye kwirinda kuba bakanduzanya na bo.

Inyubako zifitiye akamaro abaturage, hari inyubako iba ari ndende igeretse kandi isakaye neza ku buryo umuntu atanyagirwa, iyo nyubako kuyibamo bishobora guhenda bitewe n'ubushobozi bw'umuntu ariko umuntu.

Abaturage bakwiriye kugira ubuzima bwiza. Bagatembera bakabona ibyiza nyaburanga bitatse igihugu, harimo amazu meza. Ubwo rero mu gihe umuntu atembera, agomba gushaka ahantu hari ubusitani bwiza ashobora kuruhukira kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abantu bashobora gutemberera ahantu hatandukanye hari inyubako zishimishije kuzireba, mu nyubako zijyanye n'ubuzima izo nyubako ziba zimeze neza kandi zifite isuku umuntu ashobora kuhatemberera akumva anezerewe, hari akayaga keza kandi abantu benshi barahahurira.

Abantu bafite ubuzima bwiza biba byigaragaza kuri buri muntu wese. Abagore, abagabo, inkumi, abakecuru, abasaza, buri wese iyo afite ubuzima bwiza ashobora guseka. Ubwo rero kugira ngo umuntu abane neza n'abandi agomba kuba afite ubuzima bwiza.

Hari inyubako umuntu abona akabona ifite isuku. Iyo nyubako kuyibona birahenda kuko umuntu udafite amafaranga adashobora kuyigura, izo nyubako akenshi akunze kuba ari ibitaro kuko ibitaro biba byarubatswe ku nkunga ya Leta, bityo amafaranga akoreshwamo aba yaravuye mu nkunga ya Leta.

Inzu zicururizwamo imiti gakondo zigira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza. Hari inyubako abaturage bajyamo bakagura imiti batatekereje izo nyubako umuntu wabahaye uburenganzira bwo gucuruza. Ibyo bishobora kwangiriza ubuzima bw'abaturage.

Ubuzima bw'umuturage bukwiriye kurindwa, kugira ngo atarwaragurika, niyo mpamvu kwa muganga hahora isuku idasanzwe ifasha abaturage kubaho neza, kandi bakumva bafite umutuzo n'umutekano mu gihe bagiyeyo, ubwo rero ubuzima bwabo buba bukwiriye gushyirwa ahantu habugenewe kugira ngo babeho neza.

Hari inzu ziba zarubatswe izo nzu z'ubucuruzi, abacuruzi bagacuruza ibintu bifasha abandi kugira ubuzima bwiza. Icyo gihe igihugu kiba cyarashyizeho gahunda yo kugenzura ko ibyo bintu bacuruza byujuje ubuziranenge.

Abaturage bakwiriye gushyira imbaraga mu bikorwa bakora, kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza. Mu gihe umuturage afite ikibazo akwiriye kwegera ubuyobozi, ariko na none mu gihe afite ikibazo kijyanye n'uburwayi, ntagomba kwegera ubuyobozi ahubwo akwiriye kwegera ibitaro.

Abaganga bagira imyambaro yihariye, ibafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Iyo myambaro, iba ipfutse iminwa ndetse n'ibindi bice by'umubiri bishobora kwandura, bityo abaganga ntibanduzwe n'abarwayi bavura.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bigira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, iyo ibitaro bifite abaganga babishoboye ndetse bifite n'ibikoresho bihagije, abarwayi bashobora kwivuza mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Kwa muganga uhasanga ibikoresho birimo intebe, ameza n'ibitanda. Ibyo byifashishwa n'abarwayi kugira ngo mu gihe umurwayi arembye abiryameho bamuvure. Nanone intebe zikoreshwa kwa muganga abaganga ni bo bazicaraho bavura abarwayi.

Abantu benshi iyo bagiye kwa muganga, basanga hari inyubako nziza ifite isuku kandi umuntu wese yishimira kuyibamo, iyo nyubako iyo umuntu ayigezemo, arishima cyane kubera umutuzo n'umutekano biharangwa kandi akumva anyuzwe no kuhaba.

Inyubako zimwe na zimwe zigenda zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, kandi ibyo bikorwa byifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo bagire inyungu babona, bityo bakomeze kubaho bishimye bafite amahoro n'umutekano.

Iyo umuntu yagiye kwa muganga ababwira ikibazo afite hanyuma bakamuvura. Hari ahantu abantu bicara bategereje kuvurirwa kugira ngo babonane na muganga hanyuma bamubwire uburwayi bafite, muganga na we abafashe muri icyo kibazo cy'uburwayi bwabo.

Hari ibigo nderabuzima bigenda bishyirwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage nibagira ikibazo cy'uburwayi babigane bityo ubuzima bwabo butangirika. Urugero ni nk'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi cyangwa se ikigo nderabuzima cya Karambo gifasha abaturage mu gihe barwaye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, harimo ibitanda ndetse n'ameza ashyirwaho ibintu bitandukanye mu gikorwa cyo kuvura umurwayi wagiye kwa muganga.

Inzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ni nkeya cyane. Zikwiriye kwiyongera kuko abantu bashaka gukora imyitozo ngororamubiri ni benshi cyane ariko hari igihe bashaka ahantu hokorera imyitozo ngororamubiri bakahabura.

Umwana iyo avukiye kwa muganga aba afite amahirwe menshi yo kubaho kuko ubuzima bwe bwitabwagaho n'abantu babyize kandi agashobora kubona ibikenewe byose kugira ngo akomeze kubaho, ubwo rero ababyeyi bakwiye gukora uko bashoboye kose bakabyarira kwa muganga.

Kwa muganga abantu bahajya bahasanga isuku idasanzwe, by'umwihariko abarwayi iyo barahamara igihe kirekire, haba hariyo ibitanda bishobora gufasha abarwayi kuko bashobora kubiryamaho, uburwayi bwabo bugakira.

Ibigo bitandukanye byigisha abantu ko bakwiriye kugira ubuzima bwiza, ibyo bigo usanga ari amakaminuza kandi imbere hashobora guparikwa amamodoka y'abakire batandukanye.

Hari amazu yabugenewe abantu bahuriramo bakaganira. Ariko hari n'amazu acururizwamo imiti mu gihe umuntu agiye kugura umuti agomba kubanza gushishoza kugira ngo arebe niba ahantu agiye kuwugurira hizewe.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, aba akeneye kujya kwa muganga inshuro nyinshi. Abantu akenshi batinya kujya kwa muganga, bitewe n'uko hari ababa baragiyeyo ntibakire. Ubwo rero, ibitaro byizewe bivura abantu bagakira kandi abantu bose bashishikarizwa kujya kwa muganga.

Hari inyubako ziba zarashyizwe hirya no hino mu gihugu kugira ngo zifashe abaturage kubona imiti, iyo miti ituma abaturage bakira uburwayi bafite, mu gihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kwirinda kurangara cyangwa se kugira icyo ahisha muganga.

Ababyeyi baba bakwiriye guhurira hamwe, bakaganira ku byo bashobora gukora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza ndetse n'abana babo barusheho kugubwa neza, niyo mpamvu hari inyubako ziba ku bitaro ziba zigamije gufasha ababyeyi, kubaha ubumenyi kugira ngo bafate neza abana babo.

Kwa muganga haba hari imashini zidasanzwe zifasha abantu mu burwayi bwabo, izo mashini ziba zaratanzwe ku nkunga ya Leta cyangwa se zaraguzwe amafaranga avuye mu bikorwa remezo by'abaturage mu gihe batanze imisoro.

Abantu baba bakwiye kuruhuka mu gihe bakoze. Ashobora kwicara munsi y'igiti agatekereza ku bikorwa bishobora kumufasha kugira ubuzima bwiza, indyo yuzuye ashobora kurya kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Isuku igomba kurangwa ahantu hose, ahantu hafite isuku haba hasa neza kandi abantu benshi bishimira kuba ahantu hafite isuku, niyo mpamvu akenshi inyubako zigenewe ubuvuzi zikwiriye kuba zirimo isuku ihagije.

Abarwayi baba bakwiye gusurwa n'abaganga inshuro nyinshi kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Abaganga ni abantu baba barize iby'ubuvuzi, basobanukiwe ibyo bakora byose kugira ngo umurwayi akire.

Abaturage bagomba gusobanurirwa serivisi zitangirwa kwa muganga, kuko iyo bagiye kwa muganga hari ibikoresho bahabona bikaba byabatera urujijo. Ariko iyo bagiye kwa muganga bagasobanukirwa ibyo bikoresho no kubyitaho bakirinda kubyangiza biraborohera.

Ibitaro bya Kabgayi abantu benshi barabizi kandi abantu barwaye indwara zidakira cyangwa se zananiranye, akenshi bakunze kujyayo bakaba bafashwa mu buryo bwo kuba bakoroherezwa mu burwayi bwabo.

Abaturage bakwiriye gushaka uburyo bajya kwa muganga mu gihe bafite ibibazo. Kuko hari Ibigo Nderabuzima biba byarubatswe mu Gihugu, kugira ngo abaturage barwaye bajye babyivurizaho bityo bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho byo kwa mugang akenshi bina bitangaje kandi abantu bashobora kubibona ntibabisobanukirwe; kwa muganga ushobora kuhasanga ibikorsho birimo ibyo ikoranabuhanga, ibikorsho bakoresha bapima barwayi runaka n'ibikoresho bakoresha babaga abarwayi.

Inyubako nyinshi zigirira akamaro abaturage kandi hari inyubako ziba zarubatswe n'igihugu kugira ngo zifashe abaturage kugira ubuzima bwiza abaturage baba bakwiye gukora uko bashoboye kose izo nyubako bakazibungabunga ntizisenyuke.

Ahantu hafite isuku hagaragara neza, umuntu wese yishimira kuhaba, kandi biba byiza iyo umuntu wese agiriye isuku urugo rwe, mu nzu by'umwihariko hakwiriye gukorerwa isuku y'umwihariko kugira ngo hakomeze kugaragara neza.

Abaturage iyo bagiye kwa muganga hari ahantu bicara bagategereza kugira ngo bahabwe serivisi, aha hantu bicara haba harabateganyirijwe kugira ngo umuturage atarambirwa bityo akaguma aho ngaho kandi haba hameze neza, akicara agategereza muganga akamufasha.

Abahanga mu by'ubuzima bashobora kwifashisha ikoranabuhanga bagakora ubushakashatsi ku bijyanye n'ukuntu umuntu ateye hanyuma bamara kumenya ukuntu umuntu ateye, bakareba uko bakora imiti ihuje n'uburwayi umuntu akunda kurwara.

Kwa muganga iyi umuntu agiyeyo ashobora kubona uburenganzira bwo kuvurwa mugihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kuzirikanako kuvurwa ari uburenganzira bwe hanyuma uburenganzira bwe butakubahirizwa akaba yageza ikirego kubabishizwe.

Inzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri zikunze kuba ziri ahantu hakeya kandi kuzibona bishobora kugorana, abaturage bafite amafaranga make kujyayo bishobora kubagora ariko abantu bifite bajyayo bagakoresha ibyo bikoresho batanze amafaranga.

Abantu batandukanye bakenera ubuvuzi mu gihe barwaye. Ariko buriya ibanga ryo kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, mbere y'uko umuntu arwara aba agomba gukora uko ashoboye kose akirinda ikintu cyamuteza uburwayi. Niyo mpamvu hari inzu zabugenewe abantu bajyamo bagakora imyitozo kugira ngo batarwaragurika.

Hari ibikoresho bitandukanye umuntu ashobora kubona agahita amenya ko ageze ku bitaro, intebe zifite isuku, ameza ndetse n'ibindi bikoresho umuntu ashobora kubibona akibwira ko ageze ku bitaro bitewe n'isuku ibiranga.

Ahantu hari ubusitani hagaragarara neza kandi hashobora gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza, umuntu wese ushaka kubaho neza agomba gukora ubusitani buzamufasha kubona akayaga mu gihe yumva atuje, hanyuma mu gihe arwaye nabwo akaba yahicara akumva amerewe neza.

Abantu benshi bagira ubushishozi mu bijyanye n'aho bajya ariko abantu bakwiriye kwitondera kwa muganga kuko haba hari ibikoresho bishobora kwangirika, by'umwihariko mu gihe umuntu atazi uburyo bikora agomba kubaza kugira ngo atabyangiza.

Kwa muganga ni ahantu usanga isuku idasanzwe. Aho hantu haba hari ibikoresho bitandukanye kandi bishobora kwifashishwa mu kuvura abarwayi. Na none haba hari amashusho anogeye amaso kuyareba ku buryo umuntu ayareba akumva atataha.

Kwa muganga haba inyubako zirimo amasuku, ibirahure bigezweho, isima, intebe za kijyambere, imashini za mudasobwa, ni ahantu abantu bashobora kuganirira, kandi bakahakorera n'ubushakashatsi butandukanye.

Hari ibikoresho bigaragara kwa muganga, bikunze gukoreshwa kugira ngo bifashe abaturage kumera neza, ibyo bikoresho iyo bihari, ibitaro bishobora kubyifashisha bavura abarwayi, mu gihe bidahari bishobora gutuma abarwayi babura ubuzima.

Abakozi bakora kwa muganga, bambara imyenda yihariye kandi iyo myenda bayikoresha mu kazi kabo ka buri munsi. Abakozi bakora kwa muganga, ushobora kubatandukanya n'abandi kubera imyenda baba bambaye.

Ibikoresho byo kwa muganga biba byihariye kuburyo umuntu wagiye kwa muganga ahava yumva yabigura mu rugo rwe. Ariko umuntu abiguze ntakintu yabimaza kuko ibyo bikoresho biba bigamije gufasha abarwayi ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo bashaka kwivura.

Ibigo by'amashuri bigira uruhare mu gutuma abaturage bagubwa neza, abanyeshuri iyo bigishijwe neza bagira uruhare mu gutuma abaturage na bo bagubwa neza kuko babasobanurira ibyo bize mu mashuri, bityo bakabishyira mu bikorwa na bo bakagira ubuzima bwiza.

Hari ahantu bacuruza imiti y'abantu cyangwa se imiti y'amatungo. Abo bantu bagomba kubanza kwaka uburenganzira kuko umuntu ucuruza imiti adafite uburenganzira ashobora kwangiriza ubuzima bw'abaturage.

Abarwayi bafite ubumuga nabo baba bakwiye kwitabwaho bagakora ibikorwa bishobora gutuma bamera neza, bashobora kubona ubufasha babuhawe n'abandi cyangwa se bakabona ubufasha binyuriye kubavuza kwa muganga.

Inyubako nyinshi zigirira akamaro abaturage, iyo abaturage bazibonye bahita bagira icyifuzo cyo kugira inyubako nk'izo, mugihe umuturage agiye kubaka inyubako, agomba kwita ku isuku yaho, ndetse n'umutekano iyo nzu iba ifite.

Hari imiti abantu bakunda cyane bitewe nuko iba yarakorewe mu nganda cyangwa se mu bihugu bikize, iyo miti akenshi iba yarasuzumwe yarakorewe ubushakashatsi, bwo kuyirya bituma abaturage batikanga ko ishobora kubanduza indwara.

Mugihe umuntu yagiye kwa muganga akaba afite uburwayi bumubabaza cyane, akaba afite ikibazo cyo kubona aho arara, agomba gushaka muganga akamusobanurira uko ikibazo giteye nawe akamufasha kubona aho arara doreko kwa muganga haba hari ahantu heza umuntu yarara.

Ahantu iyo hagiye isuku abantu bishimira kuba bahari. Ariko isuku nyinshi kuyibona biragoye, abantu bakeka ko isuku nyinshi igaragara kwa muganga gusa ari no mu ngo zabo bashobora kuhagirira isuku bigakunda.

Ahantu iyo hafite isuku hashobora kugaragara neza, bityo abantu bakahishimira. Mu gihe umuntu yagiye ahantu hafite isuku, agomba kugira ikintu ahigira, ku buryo nawe yagikorera mu rugo rwe, bityo isuku ikagaragara ahantu hose.

Kugira ubuzima bwiza biravuna. Nta muntu ushobora kugira ubuzima bwiza atabikoreye. Abantu bakwiriye kwirinda kwanduzanya bambara udupfukamunwa kuko hari indwara z'ibyorezo zishobora kuza, zikaba zabica bose mu gihe banduzanyije.

Hari ibikorwa byinshi bigenda bikorerwa kwa muganga, bikagira uruhare mu gutuma abaturage ubuzima bwabo bukomeza kuba neza, abaturage bagiye kwa muganga bashobora gucumbikirwa ku bitanda byo kwa muganga bityo uburwayi bwabo bukoroha.

Ibigonderabuzima bigira uruhare mu gutuma abaturage bakomeza kugubwa neza. Iyo umuturage agira ubuzima bwiza, n'iterambere rye rirushaho kwiyongera. Hari abaturage barwara bakubura aho bivuza, ariko Igihugu cyashyizeho gahunda yo kwegereza abaturage ibigonderabuzima kugira ngo bivuze bugufi.

Mu nyubako nyinshi usangamo ibikinisho bishobora gufasha abana, kugira imitekerereze myiza ndetse no kwidagadura, nanone usangamo intebe zifite isuku ku buryo umuntu yakumva yakishimira kuhaba.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora kujya kwa muganga, muganga aba azi uburyo bwose yakoresha akamwitaho. Ni iyo mpamvu nk'umunyeshuri iyo avunitse ari ku ishuri yihutira kujya kwa muganga hanyuma muganga akamwitaho akamuha ubuvuzi bw'ibanze akeneye.

Umurwayi urwaye ajyanwa kwa muganga, iyo uburwayi afite bukomeye bashobora kumuha igitanda kugira ngo akomeze yitabweho n'abaganga kandi abaganga bamwitaho babyitondeye bityo mu minsi mike akongera gusubira mu buzima busanzwe.

Kwa muganga umuntu iyo agiyeyo ashobora kuhasanga ibikoresho akibaza akamaro kabyo, gusa iyo umuntu yegereye muganga akamubaza ashobora kumusobanurira akamaro kabyo, urugero umuganga ashobora gusobanurira umuntu akamaro k'igitanda ko bacumbikiraho abarwayi.

Abaturage bashobora kurwara bakajya kwa muganga, umurwayi iyo agiye kwa muganga ahasanga ibitanda, ibyo bitanda ntabwo abikura mu rugo ahubwo abikura ku bitaro kuko ibitaro biba byarateganyije aho abarwayi bazajya baryama mu gihe barwaye.

Abantu mu gihe barwaye bakwiriye kujya kwa muganga kugira ngo bavurwe uburwayi bwabo. Mu gihe umuntu arwaye uburwayi bukomeye ,ashobora guhabwa igitanda kugira ngo muganga ajye amwitaho buri gihe haba nijoro, ku manywa, ndetse buri gihe cyose yagize ikibazo muganga akahagera.

Amakuru ni cyo kintu cy'ingenzi abantu baba bakeneye. Kugira ngo umuntu ajye kwa muganga aba akeneye kumenya icyo arwaye. Mu gihe atakizi aragenda akabwira muganga ikintu arwaye, hanyuma muganga nawe we akamufasha akurikije ibimenyetso yamuhaye.

Abantu bashobora guhabwa amahugurwa y'uburyo bakwitwara mu mimerere runaka, by'umwihariko abantu bakwiye kwigishwa ibijyanye n'ubuzima bwabo kugira ngo bamenye uko bakitwara mu gihe hadutse indwara nshya mu gace batuyemo.

Kwa muganga ni ahantu hagaragara isuku cyane, ku buryo umuntu ugiyeyo wese yumva atahava bitewe n'isuku iba ihari. Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga aba agomba kwitonda kugira ngo atavayo ahanduje bityo agaha akazi karemereye abakozi bahakora isuku.

Inzu ifite isuku ndetse n'ubusitani bwiza abantu bakunda kuyibamo, abantu bafite inyubako nziza baba bazwi mu mudugudu batuyemo kandi abantu barabakunda, iyo iyo nyubako ifite isuku buri wese yumva yabasura.

Abantu bashobora gukora imyitozo ngorora mubiri muburyo butandukanye bashobora gusimbuka bashobora, gukina umupira bashobora no gukora ibindi bikorwa bibananura umubiri wabo ikingenzi n'uko umuntu wese yumva ameze neza mugihe ari gukora igikorwa cyo kunanura umubiri we.

Abantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri kandi imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kumva batuje bafite akanyamuneza, bameze neza ku buryo ntakibazo cy'uburwayi bashobora kugira ngo kibakange cyane.

Abanyeshuri iyo bagiye kwiga uko ubuvuzi bukorwa, bashobora guhabwa uburenganzira bwo gupima ibindi bikoresho. Mu gihe biga hari ibintu bagenda basobanurirwa kandi iyo bamaze kubimenya nabo bashobora kubikora.

Gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akaba ashobora gutembera ahantu aho ariho hose, hari ibikoresho bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri kandi ibyo bikoresho umuntu ashobora kubibona mu gihe icyo aricyo cyose bitamugoye.

Abantu iyo bari gukora imyitozo ngororamubiri birashoboka ko umwe ashobora kugira ikibazo cy'imvune akaba yavunika, mu gihe ibyo bibaye bashobora guhita bamujyana kwa muganga bakamwitaho mu buryo bwihariye kugira ngo uwo umuntu akomeze kugubwabwa neza hanyuma asubire mu kibuga.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akenshi agira ubuzima bwiza, kandi ubwo buzima buzira umuze. Ashobora gukora imyitozo ngororamubiri muburyo butandukanye, kandi akungukirwa n'iyo myitozo, kuko imurinda uburwayi.

Abantu iyo barwaye bajya kwa muganga, muganga ashobora kubafasha gukora imyitozo ibafasha kugira ubuzima bwiza, mu gihe umuntu yavunitse, muganga ashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo ananure uwo muntu.

Kunywa amazi bigira uruhare mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi umuntu wanyweye amazi yumva afite imbaraga zidasanzwe kuko umuntu utanyweye amazi no gupfa ashobora gupfa. Kimwe cya kabiri cy'ubuzima bw'umuntu kigizwe n'amazi.

Ibikoresho bikorerwa kwa muganga bikoreshwa n'abantu b'abahanga kandi bafite ubushobozi bize neza bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu gihe umuntu yagiye kwa muganga agomba kwitonda kugira ngo atagira ibyo yangiza.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bagire ibyo bigezaho mu buzima busanzwe, iyo umuntu akora akazi n'ingufu ze zose, hari inyungu agenda abona kandi bishobora kumugirira akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bukomeza kugubwa neza. Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, abaho igihe kirekire kandi arishima cyane kuko hari ibintu byinshi agenda yunguka muri iyo myitozo.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga, bishobora kugira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bugenda neza cyangwa bukagenda nabi. Umuntu nanone ushaka kubaho neza, agomba gukora imyitozo ngororamubiri, yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa mu buryo butandukanye, bitewe n'imbaraga umuntu afite ashobora gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye n'iy'umuntu ufite imbaraga nkeya, abantu bakwiriye kwibanda ku mbaraga zabo mu gihe bakora imyitozo ngororamubiri.

Hari ibikoresho bitandukanye bituma abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza, bimwe muri byo harimo imipira ikinwa, mu gihe bari mu myitozo ngororamubiri kandi bigirira akamaro abantu bose bakora imyitozo ngororamubiri muri rusange.

Abaganga bakora ubushakashatsi bwimbitse, iyo hari indwara bashaka kuvura kugira ngo bamenye uko bayivura bityo abarwayi bakire vuba, hanyuma ubuzima bw'abaturage bukomeze kugubwa neza, aho batuye hose.

Ibyo kurya birimo imbuto biba bikungahaye ku ntungamubiri umuntu akeneye. Imbuto nka voka ndetse n'izindi zigira uruhare mu gutuma umuntu atarwaragurika kuko zishobora gutuma umuntu yirinda indwara zitandukanye.

Kwa muganga haba hari ibikoresho bitandukanye, harimo imikasi, impapuro ndetse n'ibindi bikoresho byifashisha mu kuvura uburwayi bwabo, ibyo bikoresho ni ingenzi cyane kuko bituma abarwayi bakira mu gihe gito.

Ubuvuzi bw'ibanze buhabwa abantu b'ingeri zose, hari ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza harimo nko gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bintu bishobora kumufasha, harimo no kurya neza.

Mu gihe umuntu yagize ikibazo cyo kwangirika mu isura, ashobora kwambara igikoresho kimufasha kugira ngo naba agiye mu myitozo ngororamubiri adashobora gukomeza kwangirika, kuko imyitozo ngororamubiri isaba umuntu ufite amagara mazima.

Hari ibikoresho bifasha abantu bafite ibibazo by'ingingo kugira ngo babashe nabo kugenda. Kimwe mu bikoresho bashobora kwifashisha ni igikoresho kitwa "imbago". Imbago ikoreshwa n'abantu bafite ubumuga bw'amaguru.

Abakiri batoya bakwiye kwitabwaho cyane cyane by'umwihariko bakajyanwa kwa muganga mu gihe barwaye, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kubungwabungwa. Ababyeyi babo bakwiriye kubapimisha kwa muganga inshuro nyinshi kugira ngo na bo bakomeze kubaho neza.

Kunywa amazi bitera ubuzima bwiza kandi bishobora gutuma umuntu agira icyo ageraho mu buzima. Umuntu yanyweye amazi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi agira imbaraga zidasanzwe. Kutanywa amazi bishobora gutuma umuntu apfa imburagihe.

Hari ibikoresho byinshi bifasha mu gukora imyitozo ngororamubiri kandi abantu bashobora kubigura, nanone kwa muganga hari ibikoresho bifasha abarwayi kugira ngo bakire vuba, bityo ibyo bikoresho bigomba gufatwa neza.

Abantu bafite ubumuga nabo, bashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye, bagakora imyitozo ngororamubiri. Abantu bafite ubumuga bakwiriye kwitabwaho kandi bagahabwa agaciro mu gace batuyemo.

Hari imiti abantu bashobora kunywa bababara cyane, iyo miti ikabagabanyiriza ububabare. Mu gukora imyitozo ngororamubiri na bwo bishobora kubafasha kuko nk'umuntu iyo yavunitse, agakora imyitozo ngororamubiri, bishobora gutuma adakomeza kubabara.

Kwa muganga abakozi bahakora baba bishimiye kuhakora, kandi iyo umuntu akora akazi yishimiye bishobora kumufasha, gufasha abarwayi mu buryo bwiza. None kwa muganga abakozi bahakora iyo bishimye bituma serivisi zihatangirwa ziba nziza.

Ibikoresho bigaragara kwa muganga bishobora guhenda bitewe n'umuntu ariko kandi mu gihe umuntu ashaka kugira ubuzima bwiza, Agomba kwihangana akagura bimwe ibikoresho bishobora kumufasha kugira ubuzima bwiza. Agomba no kugura ibikoresho bishobora kumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ziba zifite ibikoresho bihagije, gusa akenshi kubera ko abantu bashiramo ibyo bikoresho bakeneye inyungu biba bisaba ko umuntu ugiyemo yishura amafaranga runaka.

Ibikoresho byo kwa muganga, bigira uruhare mu gutuma abaturage bagiye kwa muganga bakira. Harimo inshinge ndetse n'ibindi bikoresho bituma abaturage bakira uburwayi bwabo, mu buryo bworoshye cyane.

Gukora imyitozo ngororamubiri bishobora gufasho umuntu kugira ubuzima bwiza, kandi bigafasha gutuma umuntu agira amagara mazima. Na none bishobora gutuma umuntu abaho igihe kirekire, kuko imyitozo ngorora mubiri, igira uruhare mukunanura ubuzima bw'umuntu.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigira uruhare mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza kandi umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ntarwaragurika. Gukora imyitozo ngororamubiri inshuro nyinshi bigirira akamaro abantu b'ingeri zose.

Inyitozo ngororamubiri ituma umuntu agira umubiri ukomeye kandi akagira imbaraga zo kuba yakora ibindi bikorwa, mugihe umuntu agiye gukora imyitozo ngorora mubiri aba agomba kubanza guhitamo iyamufasha kurusha indi kuko hari iyo yakora ikamubabaza.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, bagomba gukora imyitozo ariko na none bakirinda gukora ibikorwa bishobora guhutaza abandi. Abantu iyo bakoze ibikorwa bishobora guhutaza abandi, bishobora kubagiraho ingaruka kandi izo ngaruka ziba zibabaje.

Abantu iyo bakora imyitozo ngororamubiri, birabashimisha cyane kandi bakumva bameze neza. Abandi bashobora kuza kubareba bakishimira uburyo abo bantu bazi gukora neza imyitozo ngororamubiri bityo bakita ku buzima bwabo.

Abantu imyitozo ngororamubiri bakora baba bagomba kuyitondera kuko hari imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora akaba yavunika. Ubwo rero umuntu agomba kumenya ubushobozi bwe, mbere yo guhitamo umwitozo ngororamubiri akora.

Mu gihe umuntu arwaye ashobora kujya kwa muganga muganga akamuvura, uburwayi bwe bushobora gukira mu gihe avuwe neza. Mu gihe atavuwe neza ashobora gukomeza kurwaragurika ariko iyo ageze kwa muganga biba byizewe ko akira.

Abantu bafite imbaraga akenshi aba ari abantu bakora imyitozo ngororamubiri kuko iyo myitozo ngororamubiri ibafasha kugira ubushobozi bwo kuba bakora ibindi bikorwa bitandukanye, gukora imyitozo ngororamubiri bituma umuntu agira imbaraga bityo akaba yanazikoresha mu bindi bintu bimuteza imbere.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigirira abantu akamaro, kuko bituma babaho igihe kirekire, kandi imyitozo ngororamubiri ituma umuntu yumva ameze neza mugihe asoje kuyikora, akaba yakumva aguwe neza cyane.

Gukora imyitozo ngororamubiri unanura amaboko, biragufasha cyane, kuko bituma umubiri wawe ukomeza kugubwa neza. Umuntu uwo ari we wese, ikigero cy'imyaka yaba arimo ashobora gukora imyitozo ngororamubiri, kandi ikamufasha ikanamuteza imbere mu bikorwa akora bya buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri wishimye, bituma uyikora neza kandi ukayikunda. Ibanga ryo kugira ngo umuntu akore imyitozo ngororamubiri, ni ukuyikora mu gihe yumva ashaka, agakora imyitozo ngororamubiri ihuje n'ibyo akunda buri gihe.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri hari ibikoresho baba bafite bibafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri, kandi ibyo bikoresho iyo babikoresheje neza bishobora gutuma imyitozo ngororamubiri yabo igenda neza, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza.

Ibikoresho bitandukanye bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bikoresho bishobora kugurwa amafaranga menshi, ariko iyo umuntu abiguze bimugirira akamaro, kuko hari ikintu ashobora kubikoresha bigatuma agira ubuzima bwiza.

Hari ibikoresho bitandukanye biboneka ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ibyo bikoresho bishobora kugura amafaranga menshi ariko na none umuntu ushaka kubaho neza, agomba kubigura kugira ngo akomeze kugira amagara mazima.

Imyitozo ngororamubiri kuyijyamo biba bisaba gushyiramo imihati ukagura ibikoresho uzakoresha. Kuko iyo umuntu adafite ibikoresho azakoresha mu myitozo ngororamubiri , ashobora gusitara. Ubwo rero kugura inkweto zo gukinana umupira bigira akamaro cyane.

Ku bitaro ni ahantu abantu bajya bagakirarira indwara barwaye, aho haba hari inyubako zikwiye kwitabwaho buri munsi, kugira ngo umuntu akomeze kubaho neza kandi yishimye mu buzima bwe bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigirira abantu akamaro mu buryo butandukanye, kuko bituma hari ibintu byinshi bagenda bunguka kandi bishobora gutuma batera imbere, abageze mu zabukuru ndetse n'abakiri batoya, bashobora gukora imyitozo ngororamubiri aho baba batuye hose.

Abantu baba bakeneye ibintu bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imiti ndetse n'ibindi bintu, bishobora kubafasha kubaho neza, mu gihe bikoreshejwe neza kandi abaturage bishimira kubona ibyo bikoresho, mu maduka abegereye.

Imiti ikorerwa kwa muganga igira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu buba bwiza, ariko kandi gukora imyitozo ngororamubiri na byo bifasha umubiri w'umuntu kunanuka, akumva afite imbaraga ndetse akumva anyuzwe, yishimiye kuba ari muzima.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko abakinnyi b'umupira, baba bakwiriye kurinda amavi yabo kugira ngo atangirika. Niyo mpamvu hari ibikoresho bashobora kugura bakabyambara mu mavi yabo kugira ngo atangirika mu mu gihe baguye hasi.

Hari amagambo agiye atandukanye yandikwa ahantu, afasha abantu gutuma bagira ubuzima bwiza, bakora imyitozo. Bimwe mu byapa bishyirwa ahantu hatandukanye cyangwa amashusho ashyirwa mu bitabo, barimo abantu bakora imyitozo mu buryo butandukanye kandi bikagaragaza n'akamaro bishobora kubagirira.

Imiti yo kwa muganga igira uruhare mu gutuma umuturage agubwa neza. Ikiremwamuntu kiba gikeneye kwivuza mu gihe kirwaye, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo na yo imufashe kumera neza.

Kunywa amazi ni ibanga ryo kugira ubuzima bwiza! Umuntu aba akwiriye kunywa amazi ahagije, akirinda kumara igihe kinini ataranywa amazi, cyanecyane abantu bakunda kugira amagambo menshi baba bakwiriye kunywa amazi kuko baba bakoze.

Umuntu ufite ikibazo cy'ivi, ashobora kujya kwa muganga , muganga akareba uko yamufasha. Ashobora kumuha imiti cyangwa se akamufasha amukanda cyangwa se mu gihe abona bikomeye icyo kibazo cy'ivi akaba yakigeza ku baganga bakuru hanyuma bakamubaga.

Kunywa amazi bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Ariko mbere y'uko umuntu anywa amazi aba akwiriye kuya genzura akareba ko ayo manzi nta mwanda afite, kuko iyo amazi afite umwanda bishobora gutuma arwara bigatera indwara umuntu.

Kugira ngo umuntu agabanye uburibwe ashobora kurya imiti runaka igabanyiriza abantu uburibwe; ariko kwitonda mu gihe umuntu agiye kunywa iyo miti ni byo byiza kuko bifasha umuntu mu gihe akeneye ubundi bufasha.

Umuntu akwiriye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze kugubwa neza, abakobwa baba bakwiriye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugaragara neza, bityo abababonye babishimire.

Gukora imyitozo nkorora mubiri bifasha abantu kumera neza kandi bigatuma bagira amagara mazima; mu gihe umuntu agiye gukora imyitozo nkororamubiri agomba kubanza akareba imyitozo ishobora kumugirira akamaro ntimwangirize ubuzima.

Abantu bakora imyitozongororamubiri bagira ubuzima bwiza kandi kugira ubuzima bwiza kwabo gushobora kubafasha gusabana n'abandi. Umuntu ufite ubuzima bwiza gukora imyitozo ntibimugora kandi imyitozongororamubiri iramufasha cyane.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bituma umuntu urwaye akira, kandi bishobora gufasha umuntu unaniwe kugira umunaniro we ushira. Umuntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza agomba gukora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha abantu bakuze ndetse n'abakiri batoya, hari uburyo umuntu ashobora gukora imyitozo ngororamubiri, ikananura ingingo ze zose akumva amerewe neza, mu gihe umuntu atameze neza ashobora gukora imyitozo ngororamubiri akumva abayeho neza.

Kunywa amazi meza bifasha umubiri cyane, amazi mbere yo kunyobwa abantu bakwiriye kuyapima bakamenya ko ameze neza, bashobora kuyashyira mu kirahure bakareba ko nta myanda irimo kugira ngo bayanywe ameze neza.

Hari ibikoresho byifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza ibyo birimo ibikoresho bimufasha gukora imyitozo ngororamubiri akananura ingingo ze hanyuma akabasha kubaho neza cyane.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, haba harimo n'ibikoresho bifasha mu isuku, ibyo bikoresho abantu bashobora kubibona ahantu batuye, mu masoko abegereye.

Kunywa amazi bituma abantu bagira ubuzima bwiza kandi bishobora guteza ibibazo byinshi mu gihe abantu batanywa amazi. Ariko na none kunywa amazi menshi bishobora guteza ibindi bibazo kuko bishobora gutuma ubuzima bw'umuntu uruhare runini ruba amazi.

Mu gihe umurwayi arwaye abantu bakwiye gukora uko bashoboye kose bakamuvuza, kandi mu gihe afite ikibazo bakwiye kumwitaho byaba bikomeye bakamujyana kwa muganga, kugira ngo abaganga bamufashe bamwiteho mubyo akeneye byose bityo ubuzima bwe bukomeze kugubwa neza, hanyuma akomeze kuba yasubira mu kazi.

Ibikoresho biba biboneka kwa muganga biba bihenze cyane kandi umuntu ashobora kubibona akabona ntagaciro bifite. Hari ibikoresho bikoreshwa mu gupima abarwayi, hari n'ibikoresho bikoreshwa mu gutuma abarwayi bumva bamerewe neza, bityo bakagira ubuzima bwiza mu gihe bari kwa muganga.

Kunywa amazi menshi kandi ahagije bifasha umubiri w'umuntu gukora neza, kuko umuntu iyo anyweye amazi ahagije akomeza kugira igogora ry'umubiri rikora neza, kandi amaraso agatembera neza mu mubiri.

Hari ibikoresho bifasha abantu mu gutuma bagira ubuzima bwiza, ibyo bikoresho bigaragara nk'impapuro cyangwa se igikoresho gituma umuntu agira isuku. Umuntu aba akwiye kukitaho kugira ngo kitandura.

Gukora imyitozo ngororamubiri abantu bose barabikeneye kandi bishobora gufasha abantu gukira uburwayi bubabaza, bityo imyitozo ngororamubiri ituma umuntu agira imbaraga nyinshi zo gukora n'ibindi bintu byamuteza imbere.

Abantu ntibakora imyitozo ngororamubiri mu buryo bumwe. Hari abashobora kuyikora bicaye, hari n'abashobora kuyikora bakina umupira, hari nabashobora kuyikora bahagaze. Ikintu umuntu agomba kwibandaho ni uko igikorwa cy'imyitozo akora gishobora kumunanura mu gihe runaka, ndetse kikananura igice cy'umubiri we.

Hari ibikoresho bikoreshwa mu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi ibyo bikoresho umuntu ashobora kubibona aho ariho hose akabyifashisha mu gihe akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ufite igisebe ashobora kujya kwa muganga bakamuvura mu rwego rwo kumuvura bashobora gushyiraho igipfuko hanyuma akaba neza, mu gihe umuganga avuye umuntu aba agomba gukomeza kurangwa n'isuku.

Umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza agomba kwita ku mubiri we, agaharanira uko umubiri we wakomeza kugubwa neza. Mu gihe afite imvune agomba gushaka uburyo yakomeza kuguyaguya umubiri we bityo agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri kuyikora ikorwa mu buryo butandukanye, abantu hari uburyo bwinshi bashobora kwigishwamo kugira ngo bayikore, umuntu ushaka gukora imyitozo ngororamubiri agomba kubanza kumenya iyo akeneye.

Gukora imyitozo ngororamubiri bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu bukomeza kugenda neza, hari ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bikoresho umuntu ashobora kubibona ahantu hatandukanye, kandi kubigura bishobora guhenda bitewe n'agace umuntu abiguriyemo.

Imyitozo ngororamubiri abantu bakora, ibafasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze kugira imyitozo ngororamubiri abantu bakora buri munsi, ishobora gutuma bumva batekereje neza kandi ikabafasha gufata imyanzuro myiza mu buzima bwa buri munsi.

Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu kumva ameze neza kandi agakira uburwayi yari afite iyo arwaye. Gukora imyitozo ngororamubiri ni inzira nziza yo gutuma umuntu atekereza neza ibikorwa byamugirira akamaro.

Hari ibyapa bigenda bishyirwaho ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo bigaragaze uko abantu bashobora gukora imyitozo ngororamubiri, ibyo byapa bifite akamaro cyane kuko byigisha akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri n'ukuntu nayo ikorwa.

Imyitozo ngororamubiri ifasha abantu kumera neza kandi ifasha abaturage kugira ubuzima bwiza. Ituma abaturage bageza Igihugu batarwaragurika, ni yo mpamvu mu gihe umuntu agiye mu myitozo ngororamubiri agomba kubanza gushishoza, akareba imyitozo ishobora kumufasha.

Imiti igira uruhare mu gukiza abaturage, niyo mpamvu mu gihe umuturage agiye guhitamo imiti anywa agomba gushishoza akareba ko nubwo iyo miti imugabanyiriza ububabare idashobora gutuma arwaragurika cyangwa ikamwongerera ubundi burwayi.

Mu gihe umuntu afite ikibazo cy'uburwayi, aba ashobora kwivura akoresheje ibikoresho bitandukanye. Hari abantu barwara ntibajye kwa muganga bakaba bakivura, akaba ahantu yumva afite imvune yakikanda hanyuma agakira.

Abantu baba bakwiriye kwigishwa uburyo bashobora gukoresha bafasha abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwihutirwa. Abo bantu bashyirwa ahantu hatandukanye bakigishwa. Niyo mpamvu ku nzu zikorerwamo izo nyigisho haba hari ibyapa bibigaragaza, cyangwa se byanditseho amagambo agaragaza ubwo bufasha.

Ibyo kurya iyo bikungahaye ku ntungamubiri, bituma abantu benshi bagira ubuzima bwiza kandi abantu bashyira imbaraga mu kugira ngo bagire ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri bityo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza, kimwe n'abandi bantu.

Imiti gakondo ipfunyikwa mu bikoresho bitandukanye, kandi ibyo bikoresho biba byarakorewe mu nganda, imiti gakondo akenshi iva mu byatsi, kandi abantu bayihamura aba ari abahanga cyane.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage babaho neza, kandi abantu bakoresha imiti gakondo barushaho gukomeza kubaho igihe kirekire. Imiti gakondo ntihenda, kandi abantu bashobora kuyibona aho batuye.

Igikakarubamba ni ikimera gituma abantu bagira ubuzima bwiza kubera ko uyu muti ushobora kuvura abantu indwara zitandukanye, zirimo impiswi, n'impyiko ndetse n'izindi zishobora kuba zarananiranye mu gihe umuntu yagiye kwa muganga kuzivuza.

Abantu benshi ntabwo bazi ko ibimera bishobora kuvamo imiti ariko ibimera iyo bitunganyijwe neza, ni ukuvuga ibyatsi bishobora kuvamo imiti yakora akazi ko kuvura abantu bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umurwayi ugiye kubagwa ashobora guhitamo kwemera kubagwa cyangwa se akabihakana, mu gihe umurwayi ahisemo kwemera kubagwa agomba no kwemera kwirengera ingaruka zishobora guturuka muri uko kubagwa.

Ibimera bifitiye agaciro ababikoresha kuko bituma bagira ubuzima bwiza kandi inararibonye zivuga ko ibinini ndetse n'indi miti ikoreshwa kwa muganga imyinshi muri yo iba yavuye mu bimera biba hagati mu baturage.

Abantu benshi bakora ibintu bitandukanye kugira ngo babeho neza ariko abantu bakoresha ibimera gakondo, bakabanza bakabyitunganyiriza nibo bonyine baba bakoresheje uburyo bwizewe mu bijyanye no kwivura kandi butagira ingaruka mbi.

Umuti witwa igikakarubamba urakoreshwa cyane, abantu bifuz akubaho neza bakwiriye gukoresha igikakarubamba, kuko kitangiza umubiri kandi nta ngaruka mbi gishobora kugira k'umuntu, mu gihe uwo muti uvamo wateguranywe isuku.

Hari ibyatsi by'ubwoko bitandukanye bigenda bivamo imiti ikoreshwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye. Bimwe mu byatsi bishobora gukoreshwa mu gihe bivura indwara zananiranye kandi izo ndwara zishobora gukira mu gihe ibyo byatsi bikoreshejwe neza.

Abajyanama b'ubuzima bagira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abantu bumera neza. Umuntu ushaka gucuruza cyangwa se gukora imiti gakondo, agomba kubisabira uburenganzira, rimwe na rimwe agahabwa n'imyambaro imwemerera kubikora kugira ngo atajijisha, akabikora nta burenganzira afite.

Imiti gakondo ishobora gupfunyikwa mu macupa, hanyuma abantu bakayigura bakayikoresha. Iyo miti iba yarabanjije kunyuzwa mu nganda kugira ngo abantu bayikoreshe, bityo ibafashe kugira ubuzima bwiza cyane.

Ibimera gakondo bishobora kubanza gutunganywa mbere y'uko biterwa kugira ngo na byo bizabyare umusaruro, bityo bibe byavamo imiti ishobora gukoreshwa no kwifashishwa mu gihe abantu barwaye.

Igikakarubamba kigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuntu buba neza, umuntu unyweye igikakarubamba arakira indwara zose arwaye, kandi igikakarubamba kukibona ntigihenda, kuko umuntu ashobora kugikura mu murima we.

Imiti gakondo ipfunyikwa mu macupa kandi abantu bashobora kuyigura, hanyuma bakabona ibyishimo. Mu gihe umuntu agiye kugura imiti, agomba kubanza gushishoza akareba amagambo yanditse kuri iyo miti kugira ngo amenye n'uruganda rwakoze iyo miti.

Imiti gakondo igira uruhare mu buzima bw'abaturage, kandi iyo bayikoresheje neza hari ibintu byinshi bunguka, dore ko iyo miti kuyibona bitanahenze, bashobora kuyibona aho baba batuye hose mu bice by'igihugu, kuko igaragara cyane cyane mu masoko.

Imiti ikorwa n'abaturage. Abaturage ibagirira akamaro kuko ishobora gutuma bakira indwara barwaye kandi bagakira mu buryo bwihuse. Umuturage wese, aba afite ubushobozi bwo kubanza gutekereza kuri iyo miti, mbere yo kuyikoresha.

Igihingwa cyitwa umuravumba kivamo umuti gakondo abantu bakoresha ukabavura indwara bafite, zirimo impyiko, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi, iki gihingwa cyaramenyekanye cyane ku buryo abantu bagikoresha bizeye neza neza ko bari buze gukira uburwayi bwabo.

Abantu bakwiriye kubana neza n'abandi kandi bakwiriye gufatira imiti ku gihe mu gihe barwaye, hari imiti ya kizungu hari n'imiti abantu bavuga ko ari iya gakondo, imiti bavuga ko ari iya gakondo kubera ko iba yarakozwe mu byatsi, itaratunganyirijwe mu nganda.

Ibyatsi nibyo bivamo imiti gakondo, kandi umuntu ashobora kubibona mu buryo bworoshye, hari ahantu hatandukanye umuntu ashobora kubonera ibyatsi, hanyuma ibyo byatsi akabirya cyangwa akabivuguta, agakuramo umuti umuvura.

Ibyatsi abantu bakoresha bishobora gutuma bagira ubuzima bwiza. Bagomba kubitunganya bakoresheje ibikoresho byabo, kandi bagomba kwihatira kugira isuku mu gihe batunganya ibyo bikoresho kuko bishobora gutuma bangirika mu gihe isuku idahagije.

Ibimera bifite indabo birifashishwa cyane mu kuvura abarwayi. Ibyo bimera bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'abaturage bumera neza kuko kubibona biba byoroshye kandi kubigura ntabwo bihenda. Ibimera byinshi abaturage bashobora kubibona aho batuye.

Imiti gakondo iba ikwiriye kwitabwaho, abantu bakwiriye kuyikora ariko bakibanda ku isuku yayo, iyo imiti gakondo ifite umwanda abantu bashobora kuyikoresha ikabanduza kandi ibyo bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage.

Imiti gakondo umuntu ayishaka ashobora kuyigura. Ariko na none gukoresha imiti gakondo ntabwo biba byizewe cyane kubera ko akenshi iyo miti nta buziranenge iba ifite, kuko hari abantu bayikora nta burenganzira babifitiye.

Ibiti mbere y'uko bihingwa birabanza bikagemekwa. Ariko na none abaturage bashaka gukora ibihingwa bibyara imiti, nabo bashobora kubanza kubigemeka mu bihoho, hanyuma bakabyifashisha nyuma bimaje gukura

Ibyatsi bigira uruhare mu buzima bw'abantu kuko ibyatsi byinshi bikoreshwa kugira ngo abantu babone umuti, ibyatsi bivamo imiti biba bizwi kandi abaturage bakunze kubikoresha inshuro nyinshi.

Ibinini bikorwa mu miti gakondo birifashishwa cyane kwa muganga, abantu b'intararibonye bashobora kugenda bagafata ibyatsi bakabitunganya, hanyuma ibyo byatsi bakabikoramo ibinini na byo bikavamo imiti y'abantu.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi by'ubwoko butandukanye, harimo imiravumba, igikakarubamba n'ibindi byatsi bimera mu giturage. Iyo miti abantu barayifata bakayitunganya hanyuma bakayijyana mu nganda, bakayishyira mu macupa.

Imiti gakondo igira uruhare mugutuma abaturage bamera neza cyangwa se ikaba yakwangiza ubuzima bwabo. Abaganga baba bakwiye guha abaturage inama kubijyanye n'imiti bakwiye gukoresha n'iyo batagomba gukoresha.

Ibimera gakondo bifasha abantu kubona ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane mu gihe barwaye; abaturage batuye mu cyaro bivuza bakoresheje ibimera gakondo kandi babatera gukira indwara barwaye.

Imiti gakondo ishobora gutunganywa hanyuma igashyirwa mu macupa, iyo iyo miti gakondo itunganyijwe igashyirwa mu macupa, abantu bashobora kuyigura hanyuma bagatanga amafaranga bakayikoresha ku giti cyabo.

Ibinini bikorwa mu byatsi biba bifite ibara ryihariye kandi ibyo binini na byo bigira uruhare mu gutuma ubuvuzi butera imbere. Abavuzi gakondo bashobora guhabwa imbaraga mu gihe iyo miti ishyizwe ku isoko ikagurishwa.

Ibinini bikorwa kwa muganga bigira gaciro ariko abantu bakwiye kubibika ahantu hizewe, bakabishyira mu macupa yabigenewe, ubwo rero abantu bakunda ibinini biva kwa muganga bagomba kureba isuku yabyo, gusa bashobora no gukoresha imiti gakondo.

Ibimera bihingwa mu butaka, bituma abaturage babona ibyo kurya, kandi bashobora kubyifashisha bakuramo imiti, abantu bakuze nibo bonyine baba bafite ubushobozi bwo kumenya ibyatsi bishobora kuvamo imiti n'ibyatsi bitavamo imiti.

Ikimera cyitwa umuravumba kivura indwara nyinshi, icyo kimera gihingwa ahantu hatandukanye ariko inshuro nyinshi kirimeza kandi kiboneka ahantu ho mu cyaro, abaturage batuye mu cyaro, ikimera cyitwa umuravumba barakizi nk'umuti ubafasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ishobora gutunganyirizwa mu nganda, hanyuma igapfunyikwa mu macupa. Iyo abantu barangije kuyipfunyika mu macupa, abaturage bayijyana ku isoko, bakaba bayigura, hanyuma bakabona amafaranga.

Igikakarubamba kivura indwara nyinshi zirimo impyiko, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi ndwara zananiranye. Abaganga na bo bashobora kukifashisha bakoramo imiti itandukanye, bityo bakayiha abarwayi ikabavura izo ndwara abantu bavuga ko zananiranye.

Kugira ngo umuntu acuruze imiti gakondo cyangwa yemererwe kuyikora, agomba kubisabira uburenganzira. Hari abaganga benshi usanga bavura abantu nta burenganzira bafite. Abo bashobora kuguha imiti ishobora no guhitana ubuzima bwawe, kandi abo leta iyo ibabonye irabafunga.

Kugira ngo umuntu abeho neza, agomba kurya neza, akarya indyo yuzuye, kandi ifite intungamubiri. Ariko kurya neza byonyine ntabwo bihagije, niyo mpamvu mu gihe umuntu agize ikibazo cy'uburwayi agomba kwivuza, ashobora gukoresha imiti ya kizungu cyangwa se imiti gakondo.

Imiti gakondo irimo ibitunguru ndetse n'amaronji igira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza. Iyo indimu imeze neza, ishobora gutuma umuturage akira indwara yamubabazaga.

Abantu bakoresha imiti gakondo kujya kwa muganga birabagora kuko baba bizeye ko imiti bakoze ishobora kubavura; nyamara iyo miti hari igihe itagize icyo ibamarira bikaba bisaba ko bajya kwa muganga buri gihe cyose bafite uburwayi.

Ibimera bivamo imiti abaganga bakoresha biba byarahinzwe cyangwa se byarimejeje. Abaturage baba babizi ndetse rimwe na rimwe hari igihe babafasha ibyo bimera bakabirya bitabanje kunyuzwa mu nganda, gusa ibyo biba bigomba kwitodwaho kuko bishobora kubatera uburwayi.

Hari ibimera abantu bakunda gukoresha batazi uko byitwa, mu gihe umuntu agiye gukoresha ikimera kugira ngo akifashishe nk'umuti aba agomba kubanza kumenya izina ryacyo akagikoraho ubushakashatsi akamenya ingaruka gishobora kugira ku buzima bwe.

Imiti gakondo ikwiriye kubikanwa isuku, ikabikwa ahantu heza, nubwo iba yaravuye mu byatsi ariko abantu b'abahanga bavuga ko buriya imiti ikomeye n'ubundi iva mu byatsi kandi abahanga ni bo bayitunganya.

Hari imiti ibanza kugemekwa kugira ngo abaturage bazayikoreshe. Bitewe n'uko iyo miti iba izwi cyane, abaturage batanga amakuru ku bayobozi, hanyuma abayobozi na bo bagasaba ko iyo miti yatunganywa ari myinshi kugira ngo abaturage bayibone ku bwinshi.

Ibimera gakondo, bishobora gutuma umuturage agira ubuzima bwiza. Hari abahanga bazi kubihamura bakabiha abantu mu gihe barwaye bityo ubuzima bwabo bukarushaho kumera neza kandi bakishima hamwe n'abandi.

Imiti igira uruhare mu gutuma abantu bakomeza kubaho neza. Hari ibimera bimwe na bimwe bigenda bivamo imiti abantu bakoresha, urugero nk'igikakarumamba, kivamo imiti gakondo abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imiti gakondo igira uruhare mu gutuma abaturage bamererwa neza kuko iyo umuturage abonye imiti ku giciro cyo hasi, ashobora kuyigura ariko imiti ya kizungu yo ishobora guhenda bitewe n'uko iba yarakorewe mu mahanga.

Igikakarubaba ni umuti ukundwa kandi uzwi cyane n'abantu benshi. Abantu bakunda gukoresha uwo muti bavura abandi, kandi uwo muti ugirira akamaro abaturage. Kuwubona ntabwo bigoye, kuko uboneka ahantu henshi mu gihugu cy'u Rwanda.

Ibimera bigira agaciro ndetse bifite n'uruhare runini mu gutuma abaturage bamera neza, ibimera birimo ibimera bigira indabo bishobora gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza kuko bivamo imiti gakondo.

Ibyatsi gakondo bifite akamaro, kuko bituma abantu bakuramo imiti itandukanye bifashisha, ibyo byatsi bikoreshwa mu buryo butandukanye, kandi abantu bashobora kubitunganya hanyuma bakabinywa cyangwa bakabirya bikabavura.

Ibimera gakondo birimo igikakarubamba, bikabamo n'igonde, bikoreshwa mu gukora amavuta atandukanye, harimo n'ayashampo yifashishwa mu gusukura umusatsi kugira ngo unyerere kandi utaba injwiri.

Imiti gakondo ishobora gukorwa mu byatsi hanyuma abaturage bakayitanga ikagenda ikanyuzwa mu nganda, iyo miti iyo irangije kunyuzwa mu nganda, abaturage bayibona ipfunyitse mu bintu bitandukanye.

Ibimera bigira uruhare mu gutuma abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza kubera ko ibimera bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka, nanone ibimera birimo ibyatsi bishobora gufasha abantu bakabikoramo imiti itandukanye.

Abantu bashaka kugira ubuzima bwiza, bashobora no gukoresha imiti itandukanye, hari imiti iva mu bimera ibanza kunyuzwa mu nganda, iyo miti ishobora gupfunyikwa mu bintu bitandukanye kugira ngo ikoreshwe.

Kugira icyerekezo cyiza bisaba ko umuntu aba afite ubuzima bwiza, mugihe umuntu adafite ubuzima bwiza kugira icyerekezo cyiza bishobora kumugora. Ubwo rero ashobora gukoresha imiti gakondo, ikamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Igihingwa kitwa umuravumba, gikunze kuboneka mu bice bitandukanye by'igihugu. Icyo gihingwa kigirira akamaro abaturage, kuko kivamo umuti abantu benshi bakoresha, hanyuma uwo muti uvura indwara zitandukanye, zimwe ziterwa n'umwanda.

Imiti ikorwa n'abaturage, ishobora kwifashishwa na yo mu kuvura abantu. Hari imiti ikorwa igashyirwa mu macupa. Iyo miti gakondo, abantu baba bakwiye kuyitondera kuko abaturage baba bayikoze badafite ubumenyi buhagije, ishobora no kwangiza ubuzima bwabo.

Imiti gakondo ikwiriye kugira uruhare mu gutuma abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza. Abantu benshi ntabwo bazi uburyo bashobora kubyaza ibyatsi umusaruro. Ariko hari impapuro zitandukanye ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigenda zisobanurira abantu uko babigeraho.

Ibyatsi bifite akamaro cyane kuko bituma abantu bakira indwara barwaye, mu gihe umuntu arwaye indwara imubabaza ashobora kureba ubwoko bw'icyatsi runaka, hanyuma akagitunganya akakirya, bityo bigatuma akira uburwayi bwe.

Imiti gakondo iva mu bimera bitandukanye abaturage baba barahinze cyangwa se byarimejeje, ni ukuvuga ko ibyo bimera biba byarakozwe n'imana, abaturage bashobora kubifata bakabitunganya, hanyuma bakaba babinywa cyangwa se bakabirya mu gihe bivuyemo amazi ni yo banywa.

Imiti igira uruhare mu kuvura abarwayi ishobora gutuma bakira indwara cyangwa se ikaba yabatera uburwayi. Ubwo rero abayobozi bashyiraho gahunda zo kugenzura imiti ikoreshwa n'abaganga kugira ngo bikunde, hanyuma abaganga bakoresha imiti idahuye n'uburwayi bagahanwa.

Ibinini bigira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, hari ibinini bikorwa mu miti gakondo ni ukuvuga ibyatsi cyangwa se ibimera biboneka ahantu hatandukanye mu gihugu, abantu baba bakwiriye kwitonda mu gihe bakoresha ibyo binini kuko akenshi biba bitaranyujijwe mu nganda zizewe.

Imiti abantu bakoresha bashobora kuyikoresha babanje kuyitunganya. Hari igihe bayifata bakayisekura hanyuma bamara kuyisekura ikavamo ifu. Iyo fu iyo inoze neza barayanika, hanyuma yamara kuma bakaba bashobora kuyiminjagira mu mazi, bakajya banywa ayo mazi bagahita bakira.

Imiti gakondo ishobora gupfunyikwa mu bikoresho bitandukanye, birimo amacupa maremare afasha iyo miti kutandura, kandi ibyo bikoresho na byo bigomba kuba bifite isuku ihagije.

Abantu bacuruza imiti gakondo bakwiriye guhabwa uruhushya kuko iyo bacuruje imiti itujuje ubuzira nenge bakwiriye gufatwa bagafungwa, kuko iyo bayicuruje ishobora kwangiza ubuzima bw'abaturage benshi.

Abavuzi gakondo bakoresha ibikoresho bitandukanye, bimwe bishobora no kwangiza ubuzima bw'abaturage. Leta iba igomba guhana abayobozi bashyigikira ibyo bikorwa byo gucuruza iyo miti itemewe.

Ibyatsi nibyo bivamo imiti gakondo abantu bakoresha bivura indwara zitandukanye zigaragara mu gace batuyemo kandi hari abahanga mu gukoresha ibyo byatsi, bashobora kuvura indwara izo arizo zose zishobora kwaduka ku mu...

Ibimera bigira uruhare mu gutuma ibinyabuzima bindi nabyo bibaho neza. Kuko ibimera bivamo ibiribwa by'amatungo ndetse n'iby'abantu kandi abantu bashobora kubyifashisha bakora imiti yo mu bwoko butandukanye.

Imiti gakondo na yo ishobora gukorwa ari myinshi mu gihe binyuze mu nganda. Iyo miti ishobora gucururizwa ahantu hatandukanye ariko abayobozi baba bagomba kubanza kugenzura ko iyo miti yujuje ubuziranenge kugira ngo icuruzwe.

Ibimera gakondo byifashishwa mu gukorwamo imiti ifunikwa mu macupa, yaba iyivura igifu, inzoka zo mu nda, rubagimpande, impiswi n'izindi ndwara zazengereje abantu. Umuntu ashobora kunyarukira mu maduka acuruza imiti akayigura.

Ibimera bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuturage bumera neza kuko iyo umuturage ariye ikimera ashobora kwivura indwara zitandukanye kandi izo ndwara zishobora gutuma iterambere rye rigabanuka. Ubwo rero kurya ibimera bishobora kumufasha gukira indwara.

Ibimera gakondo, bigira uruhare mu gutuma ubuzima bw'umuturage, bumera neza. Imiti iva mu bimera gakondo, abantu bashobora kuyibona, aho baba bari hose mu gihugu. Bashobora gutekereza ibimera, hanyuma ibyo bimera bakagenda bakabirandura aho bihinze, bakabitunganya bikavamo imiti.

Hari imiti gakondo iba yemewe gucuruzwa, ifite uruhushya ruba rwaratanzwe na leta. Abaturage benshi bakunda gukoresha iyo miti kandi igirira akamaro abaturage, ni yo mpamvu igihugu cyiyemera kandi abaturage ntacyo ibatwara kuko ibavura indwara zabo.

Imiti ikoreshwa ishobora kuva ahantu hatandukanye, imyinshi muri yo, iba yaravuye ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu abaturage bashobora gukoresha bivura indwara barwaye, iyo miti bakoresha yitwa imiti gakondo.

Amacupa akoreshwa mu kubika imiti gakondo, agira uruhare mu buzima bw' abaturage igihe bayakoresheje neza. Kandi abaturage iyo bakoresheje Ayo macupa neza bishobora gutuma isuku iramba. Mu gihe barangije gukura umuti muri Ayo macupa singombwa ko bayajugunye ahantu babonye.

Imiti icururizwa ahantu hatandukanye, ituma abantu baba inararibonye, mu gucuruza imiti kandi izana inyungu. Ibicuruzwa birimo imiti gakondo na byo birungura cyane, kandi kubicuruza bishobora gufasha abacuruzi kubona inyungu.